Icyapa cy'umusore wishimye cyane rwose urimo uraseka wambaye ingofero y'umweru afite telefoni mu ntoki ze, arimo arereka abantu bose ibirimo ko harimo Sonarwa. Ni kimwe mu bigo bikomeye mu bwishingizi mu Rwanda ubundi batanga serivisi zigiye zitandukanye harimo ubwishingizi bw'ibinyabiziga aho bakingira impanuka, kwangirika k'imodoka cyangwa kwishyura abantu bahuye n'ibyo byago, mu gihe byabaye. Harimo ubwishingizi bw'imitungo, ubwishingizi bw'ubuzima, n'ubwishingizi bw'ubuhinzi n'amatungo, aho bakingira abahinzi n'aborozi ku byago nko kwangirika kw'ibiza, indwara z'amatungo cyangwa indi mibereho mibi.

Icyapa cyerekana cyangwa gitanga ubusobanuro ku bwishingizi bw'inkoko aho umworozi yishyura mirongo itandatu kw'ijana leta ikamuha nkunganire ingana na mirongo ine ku ijana by'agaciro k'ubwishingizi bw'inkoko, basobanura neza cyane kandi inkoko zishingirwa ko ari inkoko zitera amagi ndetse n'inkoko z'inyama, ko nyuma y'iminsi cumi n'itanu inkoko iba ivutse. Sibyo gusa kandi barimo baratubwira y'uko ku bindi bisobanuro ushobora kubahamagara kuri nimero batanze hanyuma ukabasobanuza.

Umugabo urimo uraseka wambaye ikote ry'umukara afashe ku cyapa kerekana yuko ari icyapa cy'ubwishingizi, icyo cyapa cyanditseho ngo yego uburyo bwacu burahendutse, kanda akanyenyeri gatanu gatatu rimwe urwego, hanyuma wemeze ukurikize amabwiriza, ubwishingizi mu Rwanda byaroroshye, ushobora kugura ubwishingizi ku ikoranabuhanga, ukagura ubwishingizi bwawe, bw'ibyawe, bw'imidoka yawe n'ibyo utunze byose ndetse n'ubw'umuryango wawe mu buryo bworoshye bitagusabye kuva aho uri.

Ese waruziko ushobora kugira ubuzima bwiza ukoze siporo turabona umukobwa uri kucyapa urimo uramamaza yambaye imyenda ya siporo, yambaye n'ipantaro ya siporo n'inkweto za siporo, siporo ni nziza m'ubuzima ishobora gukomeza amagufwa yawe ishobora kumara umunaniro rwose wari ufite hanyuma ukaruka kandi ukaryama neza ukagira n'ubuzima bwiza

Icyapa gishushanyijeho imodoka kirimo kiramamaza ko mugihe ukeneye imodoka yaba ari iyo gukodesha, yaba ari iyo kugura cyangwa se yaba ari iyo kumarana igihe kinini cgwangwa se gitoya, ushobora kuba waza ukabagana, kuko hariho nimero zabo za telefone wabahamagaraho ukababazaho bitewe n'ubwoko ushaka bakakubwira igiciro ibintu byose mukabikora ku ikoranabuhanga ukaba wanakwishyura, bakanakugezaho n'imodoka yawe

Icyapa cyerekana uburyo wakwizigamira ukabika amafaranga yawe kugira ngo ugire ubwishingizi, ni ukuvugango ni ibanga ry'umutekano wawe n'ubwishingizi bwizewe wishyura amafaranga make wiyubakira ejo hazaza ubwishingizi bwacu bukurinda ingorane zidasanzwe, haba ku buzima bwawe, imodoka, cyangwa ibikorwa byawe by'ubucuruzi kandi biyemeza kuguhumuriza nokwishyigikira mu bintu byose ukora mu mutekano w'itungo yawe, hitamo serivisi zacu kandi zizewe harimo nk'izo murimo murabona kuri iki cyapa.

Icyapa cyerekana serivisi zitangwa n'ikigo cyitwa buritamu. Turimo turabonamo ko buritamu ari ubwishingizi bwo kwivuza buhendutse, bwagenewe ibigo bitandukanye harimo ibigo bito, ibigo by'imari, sako n'amakoperative, ibigo bya leta, ibigo by'amashuri, ibigo by'abihayeyimana ndetse n'ubundi buryo butandukanye. Ushobora kuba udafite ubwishingizi, ushobora kwibaza uburyo wakwivuza ariko buritamo ni igisubizo cyawe, kugira ngo ube wakwivuza kandi nawe ku giti cyawe wabigeraho.

Ishusho y'ibikorwa bigiye bikorwa bitandukanye muri banki, turimo turabona sisitemu ya banki runaka aho igenda yerekana ibyakozwe kandi ikanerekana n'uburyo byaje kurangira. Ubundi m'ubusanzwe amabanki agenda agira amasisitemu atandukanye akoresha aho berekana amafaranga baba basohoye uyu munsi ayo binjize ndetse n'ibyo bakozemo.

Kuba wagura ibicuruzwa runaka cyangwa ikishyura serivise rukana ukoresheje ikoranabuhanga, ntibigisaba cyane ko ushobora gukoresha telefone yawe, oya, ushobora no gukoresha ikarita agiye atandukanye ya banki, aho amabanki mu Rwanda agiye atandukanye, atanga amakarita ku bakiriya babo, ukaba wakoresha ikarita yawe wishyura buri kimwe cyose ushaka na serivise ushaka cyane cyane mu maduka manini.

Ikoranabuhanga ryarabyoroheje, turimo turabona imbare yacu igipapuro cyangwa se paje ya telefone yacu cyangwa mudasobwa bitewe n'icyo turimo turakoresha, irimo irerekana konti yawe, aho muri konti ushobora kubona amafaranga winjije kuri konti yawe, ayasohotse ndetse ukaba wanamenya n'amafaranga usigaranye, ushobora kwishyura fagitire runaka igiye itandukanye, ukishyura ukoresheje banki yawe, nti:''Biroroshye rero ko wamenya amafaranga wasohoye n'ayo winjije ndetse ukaba wamenya n'amafaranga usigaranye kuri konti yawe''.

Ubwoko butandukanye bw'ibinyobwa ushobora kugura, hanyuma mu ibyo binyobwa ni byinshi cyane hariho n'amafaranga buri kinyobwa kigenda kigura. Ibi binyobwa byose ni ibinyobwa ushobora gufata mu gitondo mugihe ubyutse cyangwa mu saha ya mu gitondo kuko byongera imbaraga, ukaba wajya mukazi kawe se cyangwa ukaba wajya gukora buri kimwe cyose ufite imbaraga.

Ahantu hacururizwa inzoga z'ibirahure inzoga ziri mu masupa y'ibirahure yamenetse mu ndimi z'amahanga dukunda kuzita rikeri harimo umugabo wambaye ishati y'umukara uyu mugabo aragaragara ko ariho aracuruza zino nzoga inyuma yaho kandi hariho ikintu kimeze nk'abati kinini kigiye gikikije ahantu hose hacuruzwa kandi hariho n'intebe ushobora kuza kuba wagura izo nzoga ukaza ukicara ukanywera inzoga yawe aho ngaho ukaba wakwigendera cyangwa se ukaba wanayitahana.

Ishusho igaragaza ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa iriho n'ibiciro byabyo, ibi akenshi dukunda kubisanga mu maresitora cyangwa se mu mahoteli, aho ushobora kujyayo iyo ugezeyo bahita bayikuzanira, iyo shusho bakunda kuyita meni, hanyuma ukaba wareba icyo kurya ushaka ndetse n'icyo kunywa, ukareba n'amafaranga bigura hanyuma ukaba wabitumiza.

Icupa ry'inzoga ndetse n'ikirahuri cy'inzoga, iryo cupa kandi rirapfunduye riteretse ahantu hari icyintu cy'umutuku kandi ikirahuri cy'inzoga giteretse ahantu hari ameza asa nk'ikigina imbere yaho turabona andi macupa agiye atandukanye, hano hantu ni mu kabari rwose kuko turimo turabona ko harimo inzoga nyinshi kandi zigiye zitandukanye z'ubwoko bwinshi.

Turimo turabona urugero rwa menu yibyo kunywa bitandukanye. Igizwe n'ibiciro bya moko atandukanye byo kunywa, ishobora gukoreshwa muri resitora, utubari, ibirori cyangwa se ama hotel. Turabona ibintu bitandukanye byibyo kunywa cyane cyane ubwoko bw'inzoga, akenshi hari nigihe bashyiraho ama fanta mubusanzwe, hari kandi ni gihe bashyiraho ibinyobwa bisindisha by'inkomoko ,hari na kandi bashyiraho ibinyobwa bidafite arukoru. Ariko hano turimo turabona inzoga zitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo.

Ameza manini asize irange ry'umutuku niryo ryiganjemo, turabona amacupa menshi agiye atandukanye ateretseho, amenshi arapfunduye kandi hari abantu benshi bagiye batandukanye, hari abicaye barimo barareba amacupa yabo, bigaragara ko aribo barimo baranywa izo nzoga kandi turabona abenshi barimo baraganira bahuje urugwiro.

Ibyapa byamamaza inzoga ya amusiteli turabona n'ikiriho sikolo, ubu ni uburyo bwo kwamamaza iyi nzoga yamenyekanye cyane mu Rwanda no ku isi hose. Amusiteli ikoresha ibyapa bitandukanye kugira ngo bigaragaze umwihariko wayo no gukurura abakiriya, n'ukuvuga ngo kandi turabona antene, turabona ahantu hameze nk'inzu isakaye, tukabona kandi amazu agiye atandukanye biragaragara cyane ko ari iduka ricuruza inzoga.

Ibyo kurya byinshi bitandukanye harimo ibyo tumenyereye nka sosiso, turabona kandi ikirahure kirimo inzoga giteretse nanone ku meza y'ikirahure yameneka, imbere yaho tukabona umuntu wambaye ishati y'ikoboyi tukabona kandi nanone n'igikombe cy'icyuma cyo ntago gishobora kuba cyameneka uko byagenda kose, ese mwari muzi neza yuko ushobora gucuruza ibintu bigiye bitandukanye ugacuruza inzoga n'ibyo kurya kandi ahantu hamwe bigakunda?

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Icyapa kiri kwamamaza inzoga ya sikoru. Kuri icyo cyapa hariho abantu bane birimo birigaragaza neza cyane rwose. Hanyuma hari igihe ibyamamare byageze kuzajya bivuga uburyo abanyarwanda dukwiye kuzajya tunywa inzoga dushoboye mu buzima bwacu, kuko iyo unyweye inzoga nyinshi uvuga ibitajyanye, ugakora ibikorwa bitagukwiriye, ni ukuri mujye mureka tunywe inzoga dushoboye muri ubu buzima.

Ibiryo bitandukanye ndetse n'ibiciro byabyo, turabona ubwoko bw'ibiryo butandukanye bwinshi cyane ndetse n'amafaranga bugenda bugura. Iyi karita dukunda kuyisanga muri resitora cyangwa muri hoteli, bakunda kuyita meni aho iyo winjiyemo bayikuzanira kugira ngo urebe icyo wifuza kurya cyangwa se kunywa ndetse n'uko kigura.

Urutonde ruriho ibyo kunywa bigiye bitandukanye, hariho ubwoko butandukanye bw'imitobe, ushobora kujya nko kuri resitora, ushobora nko kujya nko kuri hoteri, mu birori bitandukanye, bakakuzanira uru rutonde, uhita uhitamo icyo ushaka kunywa bitewe n'ikiba gihari, hanyuma akenshi nko muri hoteri cyangwa ku ma resitora haba hariho n'ibiciro, aho uhitamo icyo kunywa ukareba n'ibiciro cyabyo bitewe n'ubushobozi bwawe ukaba wakigura ukakinywa.

ameza ateretseho icupa ry'inzoga rya virunga ndetse hari n'ikirarahure gisutsemu iyo inzoga kandi inzoga virunga bavugako inzoga ikomoka muri congo cyane cyane muri aka karere ka virunga iyi nzoga iba ikozwe cyane mu binyampeke nk'amata n'ibindi bihingwa bigakondo bitandukanye izwi cyane mu karere kibiyaga bigari kubera uburyohe bwayo n'umwihariko w'uburyo itunganywamo icyakora niba ushaka inzoga nkiyingiyi wayibona ahantu hose mu rwanda biroroshye kandi irahedutse.

Ubwoko butandukanye bw'ibinyobwa birimo biragaragara ko hariho ibinyobwa bidasembuye ndetse hakaba hariho n'ibisembuye. Bitewe na buri bwoko buri nzoga ibarizwamo, hagiye hariho amafaranga igura, ushobora kujya nko mu birori, ushobora nko kujya nko mu bukwe, ushobora nko kujya nko mu kabari, ushobora nko kujya kandi nko muri hoteli hanyuma bakaguhereza iyi meni turimo turabona imbere yacu niko dukunda kuyita, uyirebaho bitewe n'ubushobozi ufite cya icyo ukunda ukaba wakigura ukagitumiza bakakiguhereza.

Abakinnyi b'umupira bari mu kibuga, bari gukina bagaragiwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, bahujwe no kubareba, ni ukuga ngo ahantu hose haba hari kubera umupira haba hari n'abantu barimo barawureba, cyane cyane kandi baba banishimye banezerewe, niyo mpamvu baba bafite n'icyo kunywa, turabona amavide y'inzoga agiye atandukanye abantu bari kwifashisha banywa, kugira ngo bibafashe kureba umupira neza banishimye.

Ibyo kurya by'amafi bitandukanye ni ubwoko butandatu ubwoko bwa mbere n'ibihumbi umunani, kabiri n'ibihumbi icumi, gatatu n'ibihumbi icumi, kane cumi na bibiri gatanu cumi na bitanu, gatandatu ibihumbi icumi. Ibi byose n'amafaranga y'amanyarwanda akenshi ugiye muri hoteri cyangwa restorara kurya akenshi dukunda kwaka ibikubiyemo cyangwa se icyo dukunda kwita nka meni, uba ubona ibiryo runaka ndetse n'amafaranga yabyo, niyo mpamvu buri wese aba yakwaka iyi meni akaba yabasha kubona ayo yabasha kwishyura ndetse n'ibyo yabasha gufata.

Umugabo wicaye mu intebe y'umukara imbere ye hari ameza hanyuma arimo arasoma igitamo hanyuma ruguru ye harimo haragaragara nk'ibintu birigusa nk'ibicuruzwa biragaragara ko ari mu iduka kandi arigucuruza ariko mugihe adafite umukiriya ashobora kuba yafata igitabo cye agasoma akaba arimo kwiyungura ubwenge nibyiza gusoma mri ubu buzima tubikunde banyarwanda.

Icyapa kiriho inzoga ya Amusiteri, imbere yaho hariho ikirahuri kandi na cyo kirimo inzoga ya Amusiteri, turimo turabona kandi umumotari wambaye ijire y'umuhondo, yambaye kasiki isize irangi ry'umutuku, ahetse n'umugenzi na we bambaye kasike zimwe ariko umugenzi we yambaye ikote ry'umukara, imbere yabo hari imodoka imwe, n'inyuma y'icyapa hari imodokadoka, kandi inyuma y'icyo cyapa turaza kubona igiti kirekire.

Amacyesi menshi cyane atandukanye ari mu bwoko bw'inzoga, turabona intebe iriho ikirango cya Mitsingi mu ibara ry'umutuku tukabona kandi etajeri irimo amavide cyangwa amacupa atanduakanye y'ubwoko bw'inzoga butandukanye, tuvuze ko hano hantu bashobora kuba baranguza inzoga ntago twaba tubeshye, ahantu baranguza inzoga ntago ibiciro biba bimeze nk'iby'ahandi, ho ibiciro aba ari bitoya.

Ushobora kujya muri hoteli, ushobora kujya muri resitora, ushobora kujya mu birori utazi ngo n'ibiki bihari byo kurya cyangwa se byo kunywa, cyangwa se wenda ushaka kwishyura wakishyura angahe bitewe n'ubushobozi bwawe, icyo gihe hifashishwa meni cyangwa se ikintu cyerekana ibintu bihari ndetse n'ibiciro byayo. Nkuko turi kubona imbere yacu turabona iyo meni igaragaza ibicuruzwa bigiye bihari ndetse n'amafaranga bigura, ushobora kuba wabikabyaka bitewe n'amafaranga ufite n'ubushobozi ufite.

Akabari n'ahantu habera ubucuruzi bw'ibinyobwa bisembuye gusa bagira n'ibidasembuye, aho hantu kandi bashobora kujya kunywa inzoga, umwuka mwiza no kuganira. Mu Rwanda akabari n'ahantu hagiye hamenyekanye cyane kandi habera ibikorwa bitandukanye byo kwinezeza, kuruhuka no kuganira n'inshuti. Akabari akenshi gashobora kuba gafite ibinyobwa bitandukanye kuva kunzoga zisanzwe, inzoga zigezweho kugeza kubinyobwa bidafite ibisindisha. Hanyuma turabona abantu bateraniye ahantu batandukanye, hari amacupa agiye atandukanye y'inzoga, tuvuze ko kano ari akabari rwose byaba aribyo.

Abantu babiri harimo umutwazi w'ipikipiki wambaye ingofero ndinda mpanuka y'icyatsi, ariguhereza igicuruzwa umuntu usa nkaho arumukiriya cyiriho ikirango cyitwa safi rani imbere yabo hari ipikipiki ifunguye agasanduku inyuma kandi nako kariho ikimenyetso cya safirani inyuma yabo hari ibimera.

Urutonde rwibyo kunkwa rutandukanye ndetse n'amafaranga yaho ibi byose ntago biri kuri urwo rutonde nkurwo dusanzwe tumenyereye kubona mu ma resitora cyangwa mu ma hoteri ahubwo iki ni ikibaho nk'ikibaho cyo mu ishuri cyanditseho urwo rutonde ry'ibyo kunkwa hariho ndetse n'ibiciro byaho ushobora kuba wagera aho hantu wabona urwo rutonde ku icyo kibaho ukaba wamenya ngo igiciro runaka kicyo ushaka kunkwa ni ikingiki ndetse ukaba wana kigura.

Intebe ndetse n'ameza biteye ahantu hatandukanye, hari inkingi kandi y'icyuma, imbere yaho hari kontwari, mo imbere harimo firigo kandi imbere ya firigo hariho tereviziyo, hari umuntu wicaye wambaye ishati y'icyatsi arimo arareba ya tereviziyo, tuvuze ko kandi ari akabari ntabwo twaba twibeshye n'ubwo nta bantu benshi barimo.

Ubwoko bw'inzoga butandukanye buri mu macupa y'ibirahure, aya macupa uyakomye gatoya yameneka .Izi nzoga zimenyereweho cyane kwitwa rikeri, hanyuma rero abantu bashobora kuba banywa zino nzoga kirazira ki kaziririzwa kuba wanywa inzoga nyinshi cyane zubu bwoko kuko zangiza umubire zikanangiza nimikoreshereze y'ubwonko bwawe.

Abantu benshi bajya bavuga ko kunywa ikirahuri kimwe k'inzoga ku munsi ntacyo bitwaye. Aha turahabona ikirirahuri kimwe cy'inzoga giteretse ku meza ndetse n'amarinete biteretse ku meza tunabona icyapa cya heyinikeni, tukabona abantu babiri ndetse n'uwagatatu; tuvuze ko aka Ari akabari ntabwo twaba twibeshye. Tuvuze ko uyu muntu uhagaze wambaye ishati ya kaki ko akora mu kabari ntabwo twaba twibeshye. Banyarwanda mureke tunywe inzoga dushoboye kuko buriya kunywa inzoga nyinshi sibyiza mu buzima kandi tugerageze twiheshe akaciriro mubyo dukora byose.

Amacupa atatu y'inzoga biragaragara ko rimwe ari irya Mitsingi, irindi ni irya Sikolo irindi ni iry'Amusiteli, biteretse ahantu ku meza harimo n'iripfunduye kuko turi kubona umufuniko w'inzoga hasi kandi ayo meza atwikirishije igitambaro cya kaki, imbere yayo hari umuntu wambaye ipantaro ya kaki n'umupira w'umutuku ndetse hari n'intebe, ubundi inzoga zifite umwanya ukomeye mu birori nk'ubukwe gusaba no gukwa n'indi mihango y'umuco, hari n'inzoga z'umwihariko nk'urwagwa rukorwa mu bitoke kandi rukaba rwarakunzwe mu mateka y'abanyarwanda.

Umukobwa wambaye ipantaro y' umukara n'umupira w'amaboko maremare y'umukara, afite icupa ry'inzoga mu ntoki ze. Imbere y' uwo mukobwa hari umugabo wambaye ishati y' amaboko maremare y'umweru, yambaye n' ijire y' umukara. Hari ikesi y' umukara, kandi hari n' inzoga ziteretse imbere kuri ayo meza ari aho imbere. Aka ni akabari rwose kuko biragaragara n' ibirimo birahabera.

Utu ni utuzu tw'abajenti ba emutiyeni ndetse dukikijwe n'ibyapa bya eyeteri na bakiriya babagannye bari kubaha serivise zitandukanye.

Urutonde rw'ibyo kurya cyangwa ibyo kunywa biteretse ku meza biragaragara ko biriho n'amafaranga buri kintu cyose cyo kurya nicyo kunywa kigiye kiriho amafaranga akiguha icyo giciro cyabyo si ibyo gusa kandi nawe ushobora kuba ufite ubucuruzi runaka, urutonde rw'ibyo ucuruza ukazajya ushyiraho n'ibiciro byabyo kugira ngo byorohere abantu ko babibona ukaba wanabishyira no ku mbuga nkoranyambaga bakaba babigura byoroheje.

Icyapa kerekana ahantu basana ibinyabiziga cyangwa bacuruza ibikoresho by'ibinyabiziga. Turabonaho igishushanyo cya moto, ndetse hashobora no kuba hari n'iby'imodoka. Ushobora kuba wakenera serivisi zo gukoresha imodoka yawe, cyangwa kuyisana. Ushobora kuba wahamagara kuri zeru karindwi iminani ibiri, kane umunani, gatandatu gatandatu, umunani gatandatu. Bagufasha kandi bakagukorera buri kimwe cyose wifuza, ikinyabiziga cyawe kikagenda neza.

Ni ibyapa byometse kunzu, hagati yabyo hamanukamo itiyo, ijyana amazi kimwe kibanza ibumoso, gishushanyijeho ibikapu bibiri, ndetse n'ishusho y'umuntu ishushanyishije ikaramu. Ikindi na cyo kirimo amabara y'umuhondo.

Iduka ry'imyenda n'inkweto turimo turabona ubwoko bw'inkweto butandukanye ndetse n'imyenda itandukanye, by'umwihariko inkweto turimo turabona turabona ariz'igitsina gore. Ese mwari muzi neza ko kwambara ukaberwa ari kimwe mu bintu bikomeye mu iki gihugu kuko iyo umuntu akubonye bitewe n'uko wambaye ninabwo amenya ngo uyu muntu ni uyu nguyu, kwambara neza ni ngombwa kandi mutugane tubahereze inkweto nziza kuko hano hari ubwoko bwiza bw'inkweto butandukanye n'imyenda myiza itandukanye cyane cyane kw'igitsina gore.

Inkweto nyinshi zipanze ahantu turimo turabona rwose wagira ngo ni iduka ry'inkweto kuko turimo turabonamo inkweto z'ubwoko bwinshi butandukanye hanyuma rero iyo winjiye muri iri duke ricuruza inkweto ubabwira ubwoko bw'inkweto ushaka bakazikugezaho hanyuma bamara kwegera babonazigukwira mukavugana igiciro bakaziguhereza kandi byaranoroshye ushobora no kuba wazitumiza ku ikoranabuhanga ugashyiraho umubare w'inkweto wambara cyangwa nomero wambara bakazikugezaho.

Ibipupe byinshi bitandukanye bigiye byambaye imyenda y'abagore cyangwa se y'abakobwa .Ukaba uri igitsina gore ariko wifuza kwambara ukaberwa waba ugiye mu kazi, waba ugiye ahantu hatandukanye wa ubugiye mu birori, waba ugiye mubukwe n'ibindi byinshi bitandukanye. Ukaba wifuza kwambara kandi ukaberwa, ushobora kugana rino duka kuko rifite imyenda myiza kandi y'abagore ( abadamu)kandi bakwambika neza ukaberwa.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye turabona umusore wambaye ipantaro y'ikoboyi akaba yambaye kandi umupira w'umutuku yambaye n'isaha ku kaboko biragaragara ko ariwe nyir'aha hantu hacuruza acuruza ibiryo bitandukanye kuko turimo turabonamo amamashini, tukabonamo amasaha, tukabonamo amatelefone, tukabonamo inkweto, tukabonamo amarinete, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye mu gihe wifuza kimwe muri ibi ngibi wabagana kandi baguhereza icyo ushaka.

Umugore wishimye cyane rwose uririmo araseka imbere ye kandi hari ameza, ayo meza ateretse imashini ya mudasobwa y'umukara, hariho na yamashine yo guteranyisha hari n'amadosiye agiye atandukanye. Nitureba kandi hirya ku ruhande turaza kuza kubona amakanzu amanitse, y'ubwoko bwinshi cyane kandi butandukanye, gusa ikigaragara ni uko imyeda yose cyangwa se iyi imyambaro yose, ikorwa mu bitenge, mu gihe wifuza kugura umwenda ukozwe mu gitenge, wagana iduka nkiri bakagufasha.

Iduka ricuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo ibigiye biri ku gikuta cyane cyane imitako turimo turabona kandi ibikapu cyangwa se amasakoshi, tukabona n'ibindi bikoresho bikozwe mu biti, tukabona ibikozwe mu byuma mu gihe ukeneye serivisi nk'izingizi zabo wabagana bakaziguhereza ku giciro gito ikindi kandi ni ukuvuga ngo byaroroshye wabagezaho igitekerezo cyawe bakaba bagutakira inzu yawe kuko turabona ko imitako ariiyo yiganje.

Imodoka nziza cyane ziparitse ahantu hagiye hashashe amakaro, ushobora kuba wifuza imodoka hari ubwoko bwinshi bugiye butandukanye nk'iyo turimo turabona imbere yacu ni imodoka y'umukara no ku ruhande kandi hagiye hari imodoka zindi zigiye zitandukanye. Ukaba wifuza imodoka rero ushobora kwegera ahantu nk'ahangaha bakaba baguhereza imodoka aba ariyo gukodesha yaba ari n'iyo kugura bitewe n'ubwoko wifuza.

Imodoka nziza iparitse ahantu hagiye hashashe amakaro, ukaba wifuza imodoka turabona ko ari imodoka y'ubwoko bw'umukara, waba wifuza iyo kugurisha, iyo kugura cyangwa se ukaba wifuza iyo gutemberamo n'umuryango wawe cyangwa se gutemberezamo abantu batandukanye mu gihe babigusabye, cyangwa mu gihe utanga serivise nkizo ngizo, wagura imodoka nkiyi ngiyi rwose kuko nta kintu itakora ntan'ahantu itajya kuko irasa neza.

Imodoka nini cyane y'umweru ya fuso imbere yaho hahagaze abagabo babiri, umwe afite igikapu mu ntoki cy'umutuku ndetse bose kandi bafite ikipa mu ntoki zabo cyanditseho Akagera motozi. Ubundi Akagera motozi ni kompanyi ikorera mu Rwanda izwi cyane mu bijyanye no gucuruza imodoka nshya n'izakoreshejwe, hamwe no gutanga serivisi zifitanye n'ibikoresho byazo. Iyi kompanyi itanga imodoka z'amoko atandukanye cyane cyane zikoreshwa mu ngendo z'abantu, nk'imodoka z'imiryango n'iz'ubucuruzi nk'amakamyo n'imodoka zijya gutwara abantu.

Imodoka nziza cyane yo mu karere iparitse abantu muri kaburimbo, birimo biragaragara ko ari imodoka iri ku isoko, kandi irimo iracuruzwa amafaranga miliyoni mirongo itatu n'esheshatu. Ni imodoka y'ubwoko bwa toyota ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri. Abantu basobanukiwe cyane iby'imodoka baba bazi n'ubwoko bwayo, mu gihe bwifuza imodoka nk'iyi, ntago waba uhenzwe kuri miliyoni mirongo itatu n'esheshatu.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi imyanya irimo imyanya makumyabiri n'ine ikunda kwifashishwa mu ngendo cyane cyane mu mujyi ndetse no hanze y'imijyi ahitwara abantu benshi ibavana ahantu hamwe ibajyana ahandi, nk'iyo mwagize ibyagonda wenda mugiye mu kiyo yahabayemo mugiye mu birori kuko imodoka zitwara abantu benshi izi modoka zirifashishwa kugira ngo zibashe gutwara abagenzi.

Imodoka nziza cyane iparitse turimo turabona icyapa cyanditseho ubwoko bw'iyo modoka dukunda kwita cyane yundayi, ni ukuvuga ngo hari ubwoko bugiye butandukanye bw'amamodokoka menshi agiye atandukanye, hari n'amakompanyi aba ashinzwe guhuza abantu bagura imodoka, abazigurisja ndetse n'abazikodesha, ahantu nk'aha ngaha rero ni hamwe muri ho.

Imodoka nini y'umweru turimo turabona yanditseho volukano hejuru kandi ni imodoka tumenyere mu Rwanda nka kwasiteri, iparitse ahantu iyo nyubako ifite purafo irimo irangi ry'umweru kandi ifite ibiti by'umukara. Hanyuma imodoka nk'izingizi tumenyereye cyane ko zikunda gutwara abagenzi zibavana mu gice runaka zibajyana mu kindi gice bagiyemo cyane cyane mu ntara, niho izi modoka zikunda gukorera usibye ko no mu umujyi wa Kigali zisigaye zihakorera.

Imodoka y'umweru iparitse hari amatafari y'amabuye kandi hari n'ahantu hari ikintu cy'umuferege usa icyatsi. Hari abagabo babiri kandi bafite icyapa cyanditseho akagera motozi .Iyi ni kompanyi icuruza imodoka zaba inshyashya ndetse n'izitari inshyashya, ihuza abantu kandi bagiye batandukanye bifuza ibintu bitandukanye.

Inote za magana atanu ebyiri zanditseho ko ari banki nasiyonari y'u Rwanda. Izi noti uko ari ebyiri za magana atanu ni inoti nshyashya, mu note zakozwe kuko turimo turabona ko harimo ikirango cy'inote z'u Rwanda. Hanyuma rero amafaranga y'u Rwanda aba atandukanye ,aho tugira amafaranga y'inote inini tugira ni inote ya bitanu, tugakurikiza inote ya bibiri, inote igihumbi, n'inoti ya magana atanu. Nizo note tugira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.

Umuntu ufite amafaranga menshi y'ubwoko bumwe mu ntoki ze arimo arayafunga kugirango abe yayabika, n'faranga menshi rwose imbere hari imashini ibara amafaranga imbere ye kandi hari imashini ya mudasobwa, mu busanzwe rero ibintu nk'ibyo dukunda kubisanga mu mabanki cyangwa se mu biro bivunja amafaranga aho baba bafite amafaranga menshi kandi bagomba kubika amafaranga bitewe n'ubwoko bwayo intoti ukwazo bigiye bitandukanye.

Intebe y'ubururu iteretse ahantu hasi yashashe amakaro, aho hantu kandi hateretse ameza, hejuru y'iyo meza hariho amafaranga agiye atandukanye agiye ahambiriye inoti ukwazo bitewe n'uko zingana, hanyuma hari imashini kandi ibara amafaranga, inyubako nk'izingizi cyangwa se ahantu n'aha dukunda kuhabona mu ma banki, niho haba hagiye hari amafaranga agiye atandukanye.

Umuntu ufite inoti nyinshi cyane z'ubwoko bumwe birimo biragaragara ko arimo arazibara kandi imbere ye hari imashini. Biragaragara ko ashobora kuba ari gukora nko muri banki hari umuntu ashaka guhereza amafaranga urimo urayabasaba cyangwa se wenda uje kubikuza amafaranga ye. Arimo arabara neza kugira ngo arebe ko atamuhereza amafaranga aburaho cyangwa se amafaranga yarenzeho.

Ameza y'ubwoko butandukanye turimo turabona amamashini agiye ateretse kuri ayo meza atandukanye, tukahabona n'umukobwa wambaye ikote ry'umukara n'ishati y'ubururu mo imbere biragaragara ko ari umukozi utanga serivisi za hano, turabona kandi ku gikuta ahantu handitse "Banki ya Kigali". Banki ya Kigali ni banki zimwe zizwi cyane mu Rwanda, by'umwihariko mu gutanga inguzanyo zitubutse kandi ku giciro gito cyangwa se inyungu ntoya mu kubitsa no kubikaza amafaranga mu buryo bworoshye.

Abantu benshi batonze umurongo biragaragara neza cyane ko bose bategereje kwakirwa, mo imbere harimo umukobwa ufite umusatsi w'umukara imbere ye hari imashini kandi aho hantu hari amadirishya afite ibirahure, hanyuma abo bantu barimo baragenda bavuganira n'uwo mukobwa mo imbere urimo urabahereza serivise. Biragaragara rwose ko hameze nko muri banki wagira ngo baje kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga cyangwa se gufata serivise zitandukanye no kuzihabwa zitangwa na banki.

Imashini ibara amafaranga tukabona amafaranga ,tukabona n'ikiganza cy'irimo kiragenda gifata ayo mafaranga , imashini imaze kubara .Izi mashini tuzisanga cyane cyane muri banki bitewe n'amafaranga menshi bacuruza basohora cyangwa batanga hanyuma tugakunda kuzisanga n'ahantu bavunja .Ntago wabarisha imashini ngo wibeshye rwose niyo mpamvu ari byiza mu mugihe ufite ubucuruzi winjizamo amafaranga menshi shaka imashini nkiyi ngiyi kugirango ngo utazajya wibeshya mukubara amafaranga yawe.

Turabona umuntu mo imbere mu kazu wambaye ishati y'ubururu y'amaboko maremare, akaba yambaye kandi n'ikintu mu ijosi ngo "Banki ya Kigali", kandi hejuru ku gikuta turimo turabona ahantu handitseho "Banki ya Kigali", tukabona icyuma kibara amafaranga, tukabona imashini imbere ye, tukabona kandi umuntu inyuma wambaye indi shati nawe arimo ararebamo imbere ariko uyu muntu wambaye ishati y'ubururu, arimo aratanga serivise ni umubitsi w'iyi banki, arimo arabara amafaranga kugira ngo ayahereze uno muturage waje kuyafata.

Yahurute zanditseho MASAKA izi yahurute zikorwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye gusa ahanini haba harimo amata, harimo isukari, harimo n'inkeri. Dushobora kwibaza ngo kuki abantu benshi bayikunda, nukuvuga ngo yahurute ziba zirimo isukari, igira uburyohe butangaje ku buryo buri muntu wese yayinywa ntago ari abana gusa bakizinywa muri iki gihe kuko n'abantu bakuru barazinywa kandi ziraryoha.

Ikusanyirizo ry'amata, turabona ibikombe bitandukanye mumabara atandukanye tukabona kandi umuntu ufite igikombe akaba afite n'ijage irimo amata arimo aragenda abuganiriza amata muri icyo gikombe. Aha hantu rwose tuvuze ko bacuruza amata byaba ari ibyo kandi bakayacuruza bafite isuku kuko turimo turabona ko nta mwanda rwose uharangwa.

Amacupa akingiraniye ahantu hameze nk'akazu gasize irange ry'ubururu gafungishijwe ingufuri, aya ni amacupa ajyamo amazi tumenyerewe kuyita kandi ko ari amazi ya JIBU, aho abari amazi y'umwimerere asa neza aho ujya kuyagura ukaza ukayanywaho ko aba afite akantu kameze nka robine ukajya ugenda ukinywera.

Ikusanyirizo ry'amata, turabona hasi hashashe amakaro, hari umuntu wambaye ipantaro y'ikoboyi, umupira w'umukara, inkweto z'umukara. Turabona ameza kandi ateretseho utujerekani, hariho n'ijage, tukabona umugore wambaye ikanzu y'umweru n'ishati ya karokaro. Ateruye indobo mu ntoki y'umutuku, arimo arasuka amata mu ijage iri ku meza, birimo biragaragara ko ari iy'uy'umuntu ategereje kugira ngo abe yayamuha.

Icyapa cy'amata ya MUKAMIRA tukabonamo imbere y'icyo cyapa kandi abakobwa babiri bambaye imipira y'ubururu biragaragara ko barimo baracuruza ibyo bicuruzwa, imbere kandi y'icyo cyapa ari ikintu kimeze n'akabati cyangwa se ameza ateretseho ibicuruzwa bigiye bitandukanye bya mu MUKAMIRA, hari amata, hari imitobe hari n'ibindi bwoko bugiye butandukanye bw'aya mata nukuvuga ngo nabo bacuruza kandi n'amaforomaje bagacuruza n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ameza y'umweru ateretse isahahani y'umweru hejuru, hariho kandi n'kirahure cy'amata; amata bigaragara ko ari inshyushyu. Amata ni meza mu buzima cyane cyane ku bana, aho iyo umwana amaze konka yarangije kuzuza amezi atandatu, umushyira ku mata kandi akamurera neza akamukuza. Sibyo gusa kandi amata afasha abakire ndetse n'abakene bose ndetse n'abaciriritse n'aboroheje, kuba bakwiyongera iminsi yo kubaho banyweye amata, kuko yuzuzamo poroteyine nyinshi mu mubiri.

Amandazi meza bigaragara neza cyane ko aryoshye, abadozi rero bakora ibintu bye bitandukanye muri ubu buzima abantu benshi bakunda kwifashisha nko gufata amafunguro mu gitondo hari uburyo ushobora gukoramo amandazi yawe kandi akakuryohera. Ushobora gukoresha ifarini, ugakoresha isukari, ugakoresha amata, ugakoresha amavuta y'ibiribwa yaba ay'ubuto cyangwag se ubundi bwoko, ugakoresha, umusemburo, ugakoresha amagi ,ugakoresha n'umunyu ukagenda ubivangavanga bitandukanye. Hari ugutegura ibikoresho n'isafuriya, hari kongeraho ibindi bikoresho, hari ukubumba no kuruhutsa hari no gutoba amandazi no kuyakata bitewe n'uburyo ushaka ko aza kuza kuba angana no kuyatekera mu mavuta.

Ikintu kimeza nk'isahani nini ifukuye cyangwa se igisorori mo imbere mu icyo kintu kandi harimo urupapuro rw'isuku, ibintu nk'ibi dukunda kubibona kenshi ku bacuruzi bacuruza ibyo kurya bikozwe mu mafarini, urugero: nk'amandazi, imigati, ama capati cyangwa se amasambusa, aho babyifashisha babishyira mo kugira umuntu uza nko guhaha cyangwa se winjira mo aze kubona ko ibyo bicuruzwa nabyo bihari.

Amasambuza meza cyane agaragara ko ari ay'inyama, ko hari isambusa riciyeho bigaragara ko ari iry'inyama, amasambusa y'inyama ni ukuri araryoha cyane cyane iyo akiri mashya, niba ushaka akantu karyoshye kandi karimo intungamubiri, gerageza amasambusa y'inyama, amasambuza y'inyama niyo mahitamo meza ku bantu bakunda ibyo kurya byoroshye kandi biryoshye.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye, harimo amata, harimo amazi, ndetse n'imbere yaho turimo turabona nimero ya telefone ushobora koherezaho amafaranga mu gihe waguze amata. Ni ukuvuga ngo kunywa amata bifite akamaro gakomeye ku buzima, kuko yongera intungamubiri zikenewe n'umubiri kugira ngo ukore neza kandi ugire imbaraga. Dore bimwe mu byo kunywa amata bimara: ni ukuvuga ngo bikingira amagufa n'amenyo, atanga intungamubiri z'ubwenge n'imbaraga, afasha abana gukura neza.

Akabati karimo ibirahure, karimo kandi ibikombe byameneka bakunda kubyita amatasi munsi hari isahani nayo yameneka, hanyuma hejuru hari indoboirimo amandazi, hejuru kandi hari amata ari mu bikarito. Hano hantu ushobora kuhaza ukeneye kuba wanywa amata bakaba bafata igikombe akenshi bakunda kubicuruza nk'amafaranga make cyane ugasanga ni nka magana atatu, ukaba wafata igikombe cyawe cy'amata cya magana atatu akaba wafata n'amandazi bitewe nayo ubashije, hanyuma ukarya ukisubirira ahantu hose mu kazi kawe kandi ugakorana imbaraga kuko uba wahaze.

Iduka ricuruza ibicuruzwa by'INYANGE, turabona ko icyapa cyerekana ko aho hantu ari ku INYANGE, turabona ameza, turabona intebe, turabona umutaka wa AIRTEL bigaragare ko iyo ugiye kwinjira hano hantu ubanza gukaraba intoki kuko hari kandagira ukarabe hanyuma ugafata icyo ushaka, ukaba waza no kunywera hanze. INYANGE rero icuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo imitobe, amazi n'ibindi bigiye bitandukanye, wabagana ukabahahira.

Umukobwa urimo imbere mu nzu, hanyuma iyo nzu ifite amadirishya rwose akinguye afite inkingi z'ubururu. Umukobwa yambaye itaburiye y'umweru afite amajage abiri arimo arasukamo amata. Undi afite agacupa, biragaraga ko yaje kugura amata ariko ayo mata bakayamusukira mu icupa. Hari akajerekani k'umuhondo kandi karimo karagaragara. Aha hantu batanga amata, turimo turabona n'ikaye n'ikaramu birashoboka ko iyo amaze gutanga amata runaka yandika amata yatanze ndetse n'amafaranga yacurujije.

Amacupa y'amazi azwi cyane ku izina rya jibu akingiranye mu kazu gasize irange ry'ubururu. Aya mazi yoroheje ibintu aho ushobora kuba uri mu rugo ukeneye amazi yo kunywa kandi y'umwimerere, ukaba wayatumiza aho bafite akantu kameze nka robine, ushobora kuvoma ukoresheje ako kantu kandi bikanakorohera.

Amandazi menshi ateretse ku isahani y'umweru ushobora kwibaza ngo amandazi ni iki, amandazi ni ibiribwa bikundwa cyane mu muco w'Afurika by'umwihariko mu Rwanda, ushobora kwibaza ngo akamara kayo ni akahe, amandazi ni isoko y'ibyo kurya by'ingufu kandi agaburira umubiri no gutanga ibyishimo, ifaranga n'ubucuruzi rwose bigenda neza iyo ucuruza amandazi kandi urunguka cyane mu gihe wayacuruje.

Mu muhanda harimo imodoka isize irangi ry'ubururu, imbere harimo haraturukayo ipikipiki ihetse umuntu, hirya gatoya hahagaze umuntu, ku muhanda hari ibiti binini cyane.

Icyuma cy'amata y'inyange hariho akabido kandi biragaragara ko barimo baravomeramo amata, hari umumama kandi wicaye wambaye itaburiya y'umweru cyane bigaragara ko agira isuku kuko azi neza akamaro k'amata, amata y'inyange rero araryoshye kandi akungahaye ku ntungamubiri, tangira umunsi wawe ku mata y'inyange, meza kandi afitiye umubiri akamaro, niba ushaka amata meza kandi yizewe gerageza amata y'inyange. Amata ni ubuzirantenge.

Ahantu hacururizwa amata turimo turabona ibikombe by'amabara atandukanye tukabona umuntu urimo arabuganiza amata mugikombe, ushobora kuba ufite inzara ukaza ahantu nkaha bakaguha amata aba akonje cyangwa adakonje ukaba wanywa ukigira mu ibyawe.

Ahantu hacuruzwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa. Hari amafata, hari ubwoko bw'imitobe butandukanye, harimo umuntu mu imbere ndetse harimo n'undi muntu mo inyuma, ushobora kuba uje guhaha. Yambaye ikanzu y'ubururu igera ku birenge, ndetse afite igitambaro cy'umweru mu mutwe, kandi afite igikapu cy'umukara. Ategereje ko bamufasha bakamuha ibyo ashaka ndetse akishyura.

Amasambusa agaragara neza cyane rwose bigaragara ko aryoshye bigaragarira amaso. Ni ifunguro rikunzwe cyane mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni uturyo duto turimo inyama imboga cyangwa ibindi birungo bitekwa imbere mu ruhu rw'Ifu rw'umutsima ruba rumeze nka gasahani amasambusa akundwa kubera uburyohe bwayo no kuba byoroshye kuyitwarira mu rugendo cyangwa se kandi akamara inzara. Ibikoresho bikoreshwa mu gukora amasambusu harimo Iifu y'ingano, inyama ziseye, ibitunguru n'ibindi.

Imigati igaragara neza iteretse ahantu kumeza rwose, ubundi imigati n'ifunguro rikenerwa cyane kandi ikorwa mu buryo butandukanye bitewe n'akarere uburyohe cyangwa se uko abakiriya babishaka, dore amoko y'imigati akunzwe: ni imigati isanzwe, imigati yoroshye, imigati y'indabo, imigati y'ikinyarwanda, imigati ushobora kuba wakaranga hanyuma rero imigati imenyerewe cyane ko abanyarwanda cyangwa se abandi bose bayifata ku ifunguro rya mu gitondo kuko nicyo kintu kizwi cyane.

Iri iduka ricururizwamo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibitenge abagore bambara bikabafasha kwirinda kugaragaza ubwambure bwabo.

Umukobwa utereye yawurute mu biganza bye kandi aremo arayinywa, hari n'ikindi kiganza kandi kirimo kiramunywesha. Ubundi yawurute ifite akamaro kenshi ku buzima haba mu mirire no mu kurinda indwara. Dore ibyiza byayo yawurute ifasha mu igogorwa, ikongera ubudahangarwa kandi ikungahaye kandi ku myunyungugu n'intungamubiri. yawurute kandi ikize kuri karisiyamu, potasiyamu n'amavitamine agiye atandukanye bifasha mu gukomeza amagufwa no kurinda indwara zitandukanye, kandi yawurute ifasha mu kugabanya ibiro wifuza ko uyinywa ushaka kugabanya ibiro rwose wayinywa ikagufasha.

Ubwoko bw'amata butandukanye hari ari mutujerekani, hari ari mu dukarito, hari ari mu bikombe hari nari mu macupa. Ushobora kwibaza ngo bitandukaniye hehe? Amata rero iyo aciye munganda barayatunganya bakayakorera ibintu byinshi bitandukanye cyane kubera yuko amata arakoreshwa muburyo bwinshi cyane harimo uburyo kuyanywa uko ari mbisi cyangwa ahekenye gukoramo ibicuruzwa nka yawurute, foromaje n'amasaka y'amata cyangwa se kuyifashisha mw'ifunguro ry'amavuta cyangwa ibinyobwa bisusurutsa nka teya cyangwa ikawa.

Ibikombe bine byose birimo amata, ya masahane manini bakunda kwuta amaparato, tukabona ijage ku ruhande irimo amata, tukanona n'umufuniko w'injerekani. Turabona umumama kandi wambaye ishati y'umukara, afite akajerakani k'umuhondo. Arimo arasuka amata muri ibyo bikombe, biragaragara ko hari abantu agiye kuyashyira kugira ngo babe bayanywa.

Umuntu ufite icyansi cy'amata arimo arabuganiza amata mu cyuma cy'amata kimwe bayacururizamo hanyuma kugira ngo ufate amata neza rero ushobora gukora ibi bintu bikurikira; ushobora guhitamo ameta meza, ushobora kuyabika neza, kuyateka neza ushobora no kuyagirira isuku mu kuyategura ikindi kandi amata ni ikinyobwa gifite akamaro kanini ku buzima ariko kugira arusheho kuba meza kandi akugirire akamaro ni ngombwa kuyitaho neza.

Iduka ry'inyange ni ho honyine ushobora gukura ibicuruzwa bitandukanye bikorwa n'inyange. Uruganda rw'ubwiza ruzwi cyane mu Rwanda mu gukora ibinyobwa n'ibindi bicuruzwa by'ibiribwa mu maduka y'inyange ushobora kubona amata, ukabonamo imitobe itandukanye, ukabonamo amazi harimo n'ibindi bicuruzwa harimo nk'amavuta y'inka cyangwa foromaje, umunyu w'inyange n'ibindi bigiye bitandukanye. Amaduka kandi y'inyange akwirakwira mu gihugu hose, cyane cyane mu mijyi nka Kigali.

Indobo ipfunduye irimo amandazi abiri ndetse n'ikintu ushobora kwifashisha urimo uraterura ayo mandazi, ushobora kujya kugura amandazi ahantu bakaba baguhereza amandazi aryoshye kandi ameza neza.

Amacupa ateretse ahantu mukabati ni ubwoko bune butandukanye ubwoko butatu muribwo ni imitobe ubundi ni amazi ya Nile. Ateretse mukabati gasize irangi ry'ubururu ndetse n'iryumweru. Ni ubuvuga ngo imitobe inywebwa n'abantu benshi batanywa ibisindisha kandi imitobe ni myiza kubuzima biba bibi cyane iyo unyweye unyweye imitobe irengeje urugero kuko bishobora kwangiza ubuzima bwawe.

Mu iduka ry'inyange usangamo ibicuruzwa bitandukanye by'inyange. Imenyereweho cyane mu gucuruza amata kandi meza cyane y'umwimerere, turahabona iduka ry'inyange rimo amafirigo agiye atandukanye bababashyizemo amata kugira ngo akonje ataza kuza kwangirika ushobora kugura inyange, ukaba wagura amata yabo cyangwa ukaba amaji cyangwa imitobe byabo, ukaba wagura kandi n'ibindi bigiye bitandukanye ukoresheje inyange.

Birashoboka neza cyane ko amata ava mu ibintu byinshi bigiye bitandukanye turabona amata ari mu bubido bugenda burutanaho tukabona amata mu bikarito bigiye bitandukanye buriya amata avamo n'amavuta y'inka turimo turayareba imbere yacu aho abanyamahanga bakunda kuyita foromaje tukabona amata arimo shokora ngaya nayo imbere yacu turimo turayareba kandi si ibyo gusa avamo n'amata arimo isukari bakunda kwita yahurute nukuri dukunde amata tuyabungabunge tuyasigasire kuko ni ubuzima .

Iduka ricuruza ibijyanye n'amata, turimo turabona ijage iteretse ku meza y'umweru, ipfunduye, tukabona icyuma cy'amata, iki cyuma ekenshi bashyiramo amata y'inshyushyu kugira ngo ibe yakonja kandi agire umwimerere mwiza, hasi yaho hari indobo y'ubururu kandi ipfundikiye, turimo turabona umugabo kandi urimo uracuruza ibyo byose, hanyuma tukabona akabati kariho ibirahuri harimo amagi, hejuru yaho kandi muri etajeri harimo amakarito y'amazi, ay'imitobe ndetse n'amata, ushobora kuza ahantu nkaha ushaka ibyo kurya no kunywa.

Umugore wambaye ikanzu y'igitenge kandi imbere hari ameza ariho igitambaro kijya kumera nk'igitenge nanone, kandi kuri ayo meza hateretseho ibikombe bitatu ikigaragara neza cyuzuyemo amata neza y'inshyushyu kandi hari isane tutari kubona neza ikintu kiriho, hariho n'ibindi bikombe bibiri kimwe muri cyo kimeze nk'itasi kandi iyo tayiko hasi hari intebe y'ubururu hari amakaro hari firigo kandi igishushanyo cy'icupa rya kokakora nitureba neza turaza kubona n'icyapa cy'inyange.

Isahani isa ibara ry'ubururu iteretse ku meza meza cyane iyo sahani iteretseho amasambusa. Amasambusa y'inyama asa neza cyane biragaragara ko ushobora kuyifashisha uri kwamamaza mu iduka ryawe ugaragaza ko ucuruza amasambusa n'ibindi bigiye bitandukanye gusa ntabwo ushobora kubona uburyo ano masambus asa ngo uhace utayaguze.

Umukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi kibisi hanyuma yambaye n'ikoti ry'ikoboyi, ari ahantu hari etajeri y'umweru irimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye, ibyo tubonamo cyane n'ibinyobwa by'imitobe y'ubwoko butandukanye. Hari n'ikinyobwa kandi gitera imbaraga tuzi cyane kw'izina rya inaji. Imbere ye hateretse firigo ikonjesha hanyuma imbere yiyo firigo hakaza umuntu wirabura wambaye umupira w'umweru, hanyuma afite amafaranga muntoki ze arimo arabara amafaranga, kugira ngo yishyure ayo yavuganye nuyu mukobwa.

Umukobwa asutse ibisuko by'umukara yambaye amaherena, yambaye n'umupira ujya kumera nkuw'ubododo, ku ruhande rwe hari umuntu utagaragara neza gusa amaboko ye niyo arimo aragaragara, hanyuma wa muntu we ugaragara ni umukobwa imbere ye hari ameza manini amaboko ye afashe kuri ya meza, hanyuma turebye hasi turabona hasashishijemo amakaro, imbere yaho hari ikintu kimeze nk'icyuma cyangwa se icyansi kijyamo amata. Hano uhacururije amata rwose wazajya uhabona abakiriya kuko haragaragara neza.

Ahantu hacururizwa ibicuruzwa by'Inyange. Inyange ni kompanyi izwiho cyane muri iki gihugu cyacu kuba icuruza amata meza kandi y'umwimerere si amata gusa batanga kandi batanga imitobe, bagatanga amafanta, bagatanga amazi; amazi bayatanga mu buryo bugaragara hano ku ifoto bagira amacupa manini bakagira amatoya n'amata kandi birimo biragaragara cyane hano mu ifoto; bagira amata yo mu makarito mato ya, udukarito tunini bakagira n'ayangaya yo mu cyuma, ayangaya yo cyuma aryoha cyane aba anakonje pe mwayagura.

Inyubako hasi zacishijwemo amakaro. Hateretsemo kandi utuherekani dutandukanye, amabara y'umweru, utw'umweru ni dutanu hanyuma akandi k'umuhondo ko ni kamwe. Utu tujerekani twose dushyirwamo amata, kandi murabibona ko ntakibazo dusa neza rwose.

Utujerekani twinshi cyane twiza cyane kandi dufite isuku kuko turasa umweru, abanyarwanda bakunda kwifashisha utujerekani nk'utu ngutu badushyiramo amata, rwose hano hantu habaye harimo amata ntabwo byaba ari bibi rwose kuko biragaragara ko afite isuku kandi yitaweho cyane.

Akajerekani k'umweru gasa neza gapfundikiye. Imbere y'ako kajerekani, hari umuntu wambaye ipantaro y'ubururu ndeste n'ishati y'ubururu. Imbere y'ako kajerekani kandi hari n'undi muntu ku rundi ruhande, utagaragara neza. Ako kajerekani gateretse kuri sima. Biragaraga neza rwose ko unyweye ano mata ntakibazo wagira, kuko arasa neza cyane.

Icyansi cyuzuyemo amata tukabona intebe, tukabona umwana w'umukobwa wambaye ikabutura y'iroze, inkweto ziganjemo umweru, umupira w'amaboko maremare afite telefone mu ntoki niyo arimo ararebamo ndetse ahetse igikapu. Mu by'ukuri hano hantu tuvuze ko hacururizwa amata cyangwa hagiye gucururizwa amata ntitwaba twibeshye, bitewe nuko hari amakaro hasi ndetse no kugikuta hose ni byiza rero ko twita ku mata tukayarinda gutokorwa nk'ubu ntago apfundikiye umwana w'umukobwa ari kureba muri telefone byagakwiye kuba byiza abaye ayapfundikiye.

ikiganza giteruye igikarito kivamo umutobe. Ni umutobe biragaragara neza cyane ko ukozwe mu matunda, ubundi mu busanzwe umutobe w'imbuto ni ikinyobwa gikorwa mu mbuto zitandukanye gikungahaye ku ntungamubiri nyinshi zirimo vitamine n'ibindi by'ingenzi ku buzima. Mu muco wacu umutobe w'imbuto ugenda ugira agaciro kuko ari ikinyobwa cyiza kandi kidasembuye, uko umutobe w'imbuto ukorwa utoranya imbuto hanyuma ugahitamo imbuto z'umwimerere nizingenzi cyane nka avoka, amapera y'inanasi, pome, marakuja cyangwa ibindi bitandukanye n'imyembe biterwa n'umutobe ushaka gukora ariko uyu nguyu turimo turareba ukoze muma mu matunda gusa kandi uraryoha turanabona ko ari ritiro imwe.

Amandazi agaragara neza cyane rwose. Amandazi ni ifunguro rikundwa cyane muri Afurika y'Iburasirazuba, rikorwa mu ifarini, isukari, amavuta hamwe n'indi misemburo itandukanye bitewe n'uko abateka babikunda. Hari ubwoko butandukanye bw'amandazi: hari amandazi ya kinyarwanda, hari amandazi y'amata, hari amandazi y'akabanga, ndetse n'amandazi y'ubuki cyangwa se shokola.

Umugore wambaye ipantaro y'ikoboyi inkweto z'umukara n'ikote ry'umukara. Ni umugore ucuruza hano hantu rwose. Imbere ye hari indobo zirimo amandazi nsetse n'imigati. Hati etageri kandi irimo injerekani z'umuhondo, utujerekani tw'umweru. Hari firigo yifashishwa mu gukonjesha ibintu byo kunywa, aho ushaka ikintu cyose gikonje yakibona. Hari icyuma cy'amata kandi, ndetse hari n'intebe n'ameza. Umuntu wese ushobora kugana hano hantu ashobora kuba yakwicaraho ndetse akakirwa neza. Aha rwose tuvuze ko ari kantine, ni ukuri byaba ari byo.

Iduka ricuruza ibijyanye n'amata turimo turabonamo inyange ,tukabona ibicuruzwa byinshi bigiye bitandukanye harimo imitobe, amata, cyangwa imitobe igiye itandukanye. Ubundi mubusanzwe ahantu hacuruzwa ibikomoka kumata harimo amaduka ,amashyirahamwe yaborozi nama koperative. Aha niho ushobora gusanga ibicuruzwa bitandukanye bikomoka ku mata harimo nkama koperative ,amaduka atandukanye nkuko turimo turabona iringiri.

Icyapa cyerekana ibicuruzwa bitandukanye biva ku mata acuruzwa, turabona kandi ko amatarikinyombe gifite intungamubiri nyinshi cyane harimo; kalisiyumu, poroteyine na vitamine zirimo D cumi na kabiri akenshi amata ava ku matungo nk'inka ihene cyangwa intama ariko hari n'amata yibikomoka ku bimera nka soya, amande cyangwa se n'umuceri turimo turabona rero iki cyapa kiragaragaza ko abantu rwose bacuruza ibintu by'amata n'ibiva ku mata byose.

Ifoto y'icyuma cy'inyange gisize ibara ry'umweru inyuma handitseho inyange mu ibara ry'ubururu hanyuma handitse ngo miliki zone ryo ntabwo ari ibara ry'ubururu n'ubururu bwerurutse inyuma kandi icyo cyuma cy'inyange harimo etajeri, etajeli iriho amaji, y'inyange asa umuhondo hariho n'amata y'inyange arimo udukarito hanyuma hasi yaho hariho igicupa cya gibu, hariho n'ikindi kintu kigiye kiriho imyanda kiri hasi hasi kandi hariho amakaro hasi.

Umwana uri ahantu hameze nk'ahacururizwa amata, afite terefone mu ntoki, inyuma y'uwo mwana hari utubido tw'umweru, kandi ku bikuta byaho byubakishijwe amakaro, ahantu henshi hubakishijwe amakaro ku bikuta haba hacururizwa amata bitewe n'uko ahantu nk'aha h'amata, haba hagomba kugirirwa isuku.

Ahantu hacururizwa amata turabona abagabo babiri bateruye icyansi kiremereye gisa nkikirimo amata, turabona kandi inyuma yaho hari aka etajeri bagiye baterekamo ibikombe ushobora kuza kunywera amata ahantu nk'ahangaha ku buryo bayaguhereza ku giciro gitoya, kuko turimo turabona ko baba bafite ibyansi bigiye bitandukanye baba baguzemo amata.

Yahurute iri mu dukombe dupfundikishije ishashi y'umutuku aho yahurute ikorwa mu musaruro uva ku bikomoka ku matungo nk'amata ndetse n'ibindi.

Umuhanda nyabagendwa aho bigaragara ko ukorerwamo mu byerekezo byombi, ku ruhande rw'uburyo bw'umuhanda hakaba haparitse abamotari benshi cyane bigaragara ko bategereje abagenzi kandi hirya hakagaragara inzu nini cyane ubona ko ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, ikirere kikaba gifite ishusho isa n'umweru.

Turabona capati ni byiza rwose kuzireba biragaragara ko zirushye n'ubwo waba utaziriyeho, capati rero zikorwa mu ifarine, gusa biterwa n'umuntu wazikoze, hari abantu baba bataba kuzikora, zikaba zitaryoha zitanagaragara neza, ariko hari na baba bazi gukora capati, ukababona ko ziryoshye kandi ukaba wakishimira no kuba wazirya.

Isahani iteretse ahantu ku meza yubakishijwe amakaro. Iyo sahane iriho ibisuguti bitatu ndetse n'igitambaro cy'isuku, mu gihe ushobora kuba utoze cyangwa utizeye ko intoki zawe zisa neza, ufatisha icyo gitambaro cy'isuku ugaterura icyo gisuguti ukaba wakirya. Biragaragara ko ari umuntu wabyatse bagiye kubihereza kugira ngo abirye.

Amajerikani atatu ateretse ahantu hamwe y'umweru yanditse jambo jibu, ushobora kwibaza ngo ano majerekani akora iki? ano majerekani yanditseho jibu ruvuga ngo jibu ni uruganda rukora amazi, uhita wibwira neza cyane ko ano majerekani ari avamo amazi imbere yaho kandi hari firigo harimo ijage kandi hari n'urugi rusize irange ry'ubururu runafunguye aha hantu bashobora kuba bacuruza ibintu byo kunywa.

Inzu z'ubucuruzi zitandukanye imbere yaho hari ahantu hashashe amatafari cyangwa amabuye nk'aho kandi haparitsemo imodoka y'umweru, imbere yaho hari umukobwa wambaye ipantaro y'ikoboyi, ishati y'amaboko magufi y'umuhondo kandi yambaye igitambaro mu ijosi cy'umutuku. Hanyuma mu izo nzu z'ubucuruzi hari ahantu harimo haragaragara neza ko bacuruza ibicuruzwa byose by'inyange kuko harimo n'icyuma cy'amata y'inyange. Indi nzu ikurikiyeho hariho ibipupe byambaye imyenda aho hantu biba bigaragara neza ko bacuruza imyenda. Ahandi hatandukanye bacuruza imiti y'ubwoko bugiye butandukanye.

Icyuma cy'Inyange gishyirwamo amata y'inshyushyu hanyuma gishyizwemo amata y'inshyushyu biyafasha kuyabungabunga kugirango ngo ataza kuza kwangirika kandi ayo mata aba akonje. Bishobora kuza kugura amata y'inshyushyu ugahitamo kuyagurira ku iki cyuma k'Inyange ni ukuvuga ngo baragufatira bagasa nk' abakuvomera bakirinda kuyabogora bakaguhereza amata bitewe n'ayo wifuza. Aya mata aba akonje ikindi kandi ntago ari ngombwa kugenda ngo uyateke, ushobora kuyanywera aho ngaho rwose kuko afite umwimerere. Turabona akabati kandi karimo ubujerikani butandukanye bw'amata y'Inyange.

Ifoto iri kwerekana ikintu kimeze nk'iparato, iyo parato iriho amasambuza menshi atandukanye, birasa nk'aho ateretse ahantu ku meza cyangwa kuntebe, aho hantu asa nk'aho ateretse hasa ibara rya kaki, n'aho amasambusa ariho nayo asa kaki

Icyuma cy'Inyange gisize irange ry'umweru, tukabona umuntu uri kuvoma amata, biragaragara neza ko muri iki cyuma harimo amata, hanyuma hasi hariho indobo, hanyuma uwo muntu yambaye ishati irimo ibara ry'umweru, ndetse arunamye, yambaye n'ipantaro y'umukara bitagaragara neza, arimo aravoma amata ayavanye muri icyo cyuma.

Ikintu kigaragara nk'akabati kanini, hagiye hapanzemo ububido bwinshi butandukanye, busa umweru. Ni ububido bugaragara rwose ko bufite isuku, aha hantu kandi harimo parafo, parafo ifite inkingi cyangwa se ubuti, cyangwa ububaho bw'umukara. Hanyuma rero, buno bubido bwose rwose, biragaragara ko bushyirwamo amata cyangwa se ashobora no kuba arimo ntanuwamenya.

Inyemezabwishyu yerekana ko uwitwa Diane yishyuye neza kandi yishyura amafaranga ibihumbi mirongo cyenda hanyuma rero ifite akamaro kanini mu bucuruzi no mu mibereho ya buri munsi. Inyemezabwishyu dore akamaro mu byo ikora harimo guhamya ihererekanya ry'amafaranga cyangwa ibicuruzwa harimo uburyo bwo kubika inyandiko harimo uburyo bwo gufasha mu misoro harimo uburyo bwo gutanga amakuru ku bicuruzwa cyangwa serivisi cyangwa se iby'ubwishingizi no kurinda ibintu by'impaka kuko igaragaza ibyumvikanyweho mu ubucuruzi bityo ikarinda amakimbirane hagati y'ubufatanye mu bacuruzi ugura ndetse n'ugurisha.

Uburyo ushobora kwishyura fagitire cyangwa se ukishyura buri kimwe cyose ukoresheje Eyateri, barimo barabitwereka hano, aho bari kukubwira ngo ushobora gukanda akanyenyeri gatanu zeru rimwe, urwego, ubundi ugakurikiza amabwiriza. Turabona umuntu ufite telefone, biragaragara ko arimo aragenda areba ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo uburyo ushobora kwishyura ukoresheje telefone yawe kandi mu buryo bwa Eyateri buhendutse.

Urupapuro rurimo rurerekana ko hari umuntu waguze igicuruzwa runaka cyangwa se serivisi runaka akaba yishyuye, twarwita inyemezabwishyu kuko n'urupapuro cyangwa inyandiko yemeza ko wishyuye serivisi cyangwa igicuruzwa runaka. Uru rupapuro rugira akamaro cyane mu buryo bw'ubucuruzi kuko rugaragaza ko wishyuye, rufasha kandi mukubara amafaranga, rufasha mu kubahiriza amategeko cyangwa se kuyikenera mu buryo bugiye butandukanye bigatuma nawe umenya ko waguze ibintu byizewe.

Terefone y'ubwoko bwa Samsung turimo turayibona imbere yacu hanyuma rero handitsemo ngo akanyenyeri urwego rimwe gatatu gatatu karindwi urwego mubyukuri rero nubwo turimo turabona terefone, terefone igira umumaro mwinshi cyane ugiye utandukanye, ubundi kera mu muco nyarwanda iyo washakaga kohereza ubutumwa umuntu wabashaga kumwandikira ukabwohereza ku iposita bukaba bwamugeraho hashize igihe kinini cyane utabasha gusobanura gusa ubungubu terefone yarabyoroheje usigaye wandikira umuntu cyangwa ukamuhamagara mukavugana ibyo mushaka bikarangira ako kanya.

Igipapuro cyerekana uburyo amafaranga yagiye yinjira n'uburyo amafaranga yagiye asohoka, abantu benshi bize icungamutungo nibo bari baba bazi gukora ibintu nkibingibi, uburyo bashobora kumenya amafaranga yinjiyemo, amafaranga yasohotse hanyuma bakaza kuyateranya bakaza kumenya niba kompanyi yahuye n'icyombo cyangwa se yungutse bitewe n'uburyo babibazemo.

Igipapuro kinini cyane kandi cy'umweru ni inyandiko yemeza ko umuntu cyangwa ikigo runaka cyakira ibintu cyangwa amafaranga yahawe, iyi nyandiko kandi ifite akamaro mu rwego rwo kugenzura ibikorwa by'ubucuruzi kwirinda amakimbirane no kubika ibimenyetso by'ibyo abantu bemeranyijwe. Ibikubiyemo muri iyo nyandiko akenshi aba ari amazina nkuko turi kubibona hejuru ibisobanuro byibyakiriwe urugero ni amafaranga, inyandiko cyangwa ibikoresho, itariki n'aho byabereye nabyo biriho, umukono w'impande zombi, uwatanze n'uwakiriye n'ibisobanuro byihariye niba bibaye ngombwa mu nk'urugero wenda ku mafaranga yishyuwe n'ibindi bitandukanye.

Unyemezabwishyu yerekana ko hari umuntu wahashye cyangwa se wishyuye serivise runaka, akishyura amafaranga ye, hanyuma barayimuhereza kugira ngo bamenyekanishe ko bakiriye ubwishyu bwe, iyo uyamaze kwishyura rero bagusohorera ino nymenezabwishyu, hanyuma uyigusohoreye hasi agashyira ho umukono we, werekano ko yamaze kwakira ubwishyu bwawe.

Urupapuro ruriho ibintu byinshi cyane bitandukanye ndetse n'igiciro cy'ibyo bintu, urupapuro nk'urunguru rutegurwa iyo ufite imishinga runaka yo gusohora amafaranga, aho ushobora kwandika buri kimwe cyose ukeneye ukaba wakwandika n'amafaranga icyo kintu kigura kugira ngo bikorohereze mu kubona amafaranga akenewe yose hamwe. Ibi bikunda kubaho cyane cyane nk'iyo umuntu urimo arategura ubukwe, iyo wakoze ibintu nk'ibi ngibi ugashyiraho ibintu uzakenera n'amafaranga bigura birakorohera cyane mu myiteguro y'ubukwe.

Ikirango cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, hanyuma rero kuri icyo gipapuro turimo turabona imbere yacu hateyeho na kashe, hanyuma birerekana ko ari icyemezo cyo kutabamo umwenda w'imisoro. Mu busanzwe rero abacuruzi cyane cyane n'abatwara ibinyabiziga, bagera igihe cyo kwishyura imisoro yabo; rero iyo bamaze kwishyura ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro babahereza icyemezo cyerekana ko batabayemo umwenda wabo, kandi ko bamaze kwishyura umusanzu basabwaga.

Inyemezabwishyu yerekana ko wamaze kwishyura serivise runaka cyangwa igicuruzwa runaka uba waguze, turimo turabona ko hariho amafaranga kandi s'ibyo gusa iyo umaze kwishyura bagusorera inyemezabwishyu yerekana ko wishyuye neza, hanyuma uyisohoye hasi ashyiraho umukono we werekana ko yamaze kwakira ubwishyu bwawe.

Urupapuro rurimo rurerekana amafaranga yagombaga kwishyurwa ndetse n'amafaranga yishyuye hanyuma rero turimo turabona ko ari ay'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ni ukuvuga rero nkuru rupapuro mu busanzwe aba ari inyandiko cyangwa urupapuro rwemeza ko umuntu yakira ikintu runaka yaba amafaranga, inyandiko cyangwa indi mpano. Mu magambo asanzwe n'urupapuro rwemeza ibyo kwakira. Urugero rw'uburyo bwandikwamo, ni ukuvuga ngo ushobora kwandika urwo rupapuro ukakira amafaranga cyangwa se ukaba wanayasohora ariko ibyo byose ugomba kubishyiraho kugira ngo byerekane neza ko yasohotse n'itariki yasohokeyeho neza.

Amasezerano yakorewe mu Gihugu cy'u Rwanda mu Ntara y'Iburasirazuba, mu Karere ka Bugesera. Ubundi mu busanzwe amasezerano aba ari hagati y'abantu babiri cyangwa se impande ebyiri bitewe n'ibyo bemeranyije. Bandika amasezerano bitewe n'ibyo bavuganye kandi bumvikanye, hanyuma buri ruhande bagasinya kandi bagashyiraho n'amatariki bitewe n'ibyo bumvikanye.

Umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu mu kwezi kwa karindwi ku itariki icumi kuwa mbere turimo turabona ubwoko butandukanye bw'amafaranga uko yari ahagaze iyo wayaguraga cyangwa se iyo wayagurishaga turabona ubwoko bw'amadollari akunda gukoreshwa cyane muri Amerika, tukabona amapawundi akunda gukoreshwa cyane mu Bwongereza, tukabona amayero, tukabona amashilingi ya Kenya, tukabona n'amashilingi ya Tanzaniya.

Inoti nyinshi cyane turimo turabona izo note ,n'inote za magana atanu z'amayero. Inote nk'izi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, dukunda kuzisanga ahantu bavunjisha amafaranga. Nko mu gihe ugiye mu gihugu cy'amahanga bakoresha ubwoko bw'amayero, ushobora kw'itwaza mu manyarwanda yawe bakakuvunjira .Sibyo gusa kandi amafaranga ni ikintu gikomeye mu buzima ,usigaye ukenera buri kimwe cyose bikagusaba kwishyura amafaranga. Twige rero no kuyakorera nta bunebwe.

Umuntu ufite inoti ebyiri zitandukanye mu ntoki, inoti ya mbere biragaragara ko ari iy'igihumbi, inoti ya kabiri ni iya magana atanu. Hanyuma amafaranga afite akamaro kanini cyane muri ubu buzima bwacu. Usigaye ujya kwa muganga bakakwishyuza, wajya mu rugendo bakakwishyuza ay'urugendo, wajya kugura ibyo kurya bakakwishyuza ibyo kurya, wajya no kugura amazi na ho hari ahantu rwose agurwa, mu by'ukuri amafaranga ni meza adufatiye runini, gusa tuyakunde tuniga kuyakorera tutanebwa.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare y'ubururu yambaye isaha ku kaboko ke agiye afite n'amafaranga atandukanye y'inote za bitanu aziritse, imbere ye kandi hasa nka hubakishijwe ikintu kimeze nk'amakaro gikomeye cyane. Inyubako nk'izi dukunda kuzisanga muri Banki, aho abantu bababitsi babika amafaranga ya Banki baba bayicaye barimo barakorera.

Umugabo wirabura utarimo uragaragara mu maso neza gusa yambaye karuvati n'ishati ijya gusa ikigina, hanyuma rero afite intoki yambayeho impeta kandi afite amafaranga agiye atandukanye. Amafaranga ni meza mu ubu buzima kuko agukemurira ibibazo, gusa bibe byiza tuyakunde, tuyakorere kandi ntitukagire ubunebwe rwose kuko amafaranga ni ubuzima kandi akemura ibibazo bigiye bitandukanye.

Inoti z'amafaranga menshi turabona ari ubwoko bw'inoto butandukanye, ariko birimo biragaragara ko ari amafaranga akoreshwa mu gihugu kimwe. Ubundi mu busanzwe iyo uvuye mu gihugu kimwe ujya mu kindi bitewe n'amafaranga igihugu gikoresha, ukaba ukeneye gukoresha amafaranga y'igihugu urimo ushobora kugera ku biro bivunja amafaranga bakakuvunjira amafaranga rwose yawe bakayashyira mu mafaranga wifuza kugira bize kukorohera.

Inota z'ubwoko butandukanye zirimo inoti yanditseho amafaranga ijana hari n'iyanditse ibihumbi bitanu. Inoti zituruka mu bihugu bitandukanye, gusa ni byiza yuko tumenya amafaranga y'igihugu cyose, kuko hari igihe ushobora kwisanga mu gihugu runaka ukaba utazi amafaranga yabo cyangwa se ukaba utaragikandagiyemo. Ni byiza ko tuhisanga, ariko tuzi n'amafaranga akoreshwa muri icyo gihugu, ku buryo ushobora no kugenda ahantu bavunjisha bakabahereza amafaranga ufite bakayagushyirira mu mafaranga y'icyo gihugu wifuza.

Ahantu hasi hashasha amakaro turabona kandidin inzu z'ubucuruzi bugiye butandukanye gu gusarimo iragaragara cyane izwi nk'ahantu bavunjishiriza amafaranga ushobora kuba ufite amadolari mu ntoki zawe ukababuza amafaranga y'amanyarwanda ukibaza uburyo wayabona wegera ahantu nk'ahangaha bakakuvunjira bagafata amafaranga y'amadolari bakayaguhereza mu manyarwanda ukaba wajya gukemura ikibazo cyawe ufite cyangwa se mu gihe ufite amafaranga y'abanyarwanda ushobora kuyavujisha amadorari wegere ahantu nk'ahangaha naho baragufasha.

Ibiro bivunja amafaranga imbere y'ibyo biro turimo turahabona igiti tukahabona kandi umuntu wambaye umupira w'umukara ndetse akaba yambaye n'ipantaro y'ikoboyi, nukuvuga ngo rero mu busanzwe ibiro bivunja amafaranga ni ahantu abantu bajya guhindura amafaranga y'ifaranga rimwe bakayihindura murindi faranga bitewe nibyo bakenewe, hanyuma rero hari inama ushobora kuba wagira abakiriya bagana ibyo biro harimo nko gukoresha ibiro byemewe n'amategeko, kugenzura igiciro cy'amafaranga mu bice bitandukanye kugira ngo ubone ahatanga igiciro cyiza ndetse no kugenzura amafaranga waherewe ku giciro runaka kugira ngo wirinde ibibazo byo guhabwa amafaranga atemewe.

Ahantu havunjishiriza ubwoko butandukanye bw'amafaranga turabona televiziyo imanitse ku gikuta, tukabona ubwoko bw'amamashini abara amafaranga nk'awe dusanga mu ma banki mo turimo turabona ko bashobora kuba bavunja amafaranga y'amadolari, amayero amapawunde n'ibindi byinshi bitandukanye, gusa bagi hagiye hariho igiciro cyashyizweho kuri buri faranga.

Umuhanda wa kaburimbo muga haririmo umurongo usize irangi ry'umuhondo ugabanyamo ibisate bibiri by'umuhanda hakurya y'umuhanda kandi hari ahantu hashashe amabuye na ahantu abanyamaguru bagendera hakurya kandi y'aho hantu hari inzu z'ubucuruzi aho turimo turabona bavunja amafaranga tukabona kandi bacuruza imiti imbere yabo kandi hari abantu bahagaze harimo umuntu ushinzwe umutekano umbaye imyenda y'umuntu ushinzwe umutekano tukabona kandi umuntu wambaye umupira cyangwa seygemkin yumuhondo tubona n'undi muntu wambaye bisanzwe ipantaro yumukara.

Ku ihaha akadomo ra wa uragezwaho ibyo watumije byose cyangwa ugahamagara kuri zeru karindwi, umunani, umunani, makumyabiri n'icyenda, cumi na kane zeru kabiri.

Aho bavunjishiriza amafaranga y'ubwoko bugiye butandukanye, buri gihugu kigira amafaranga yacyo ushobora kuba ufite amafaranga runaka mu gihugu runaka ukaba wikwibaza uburyo wayavujisha akaba amafaranga yo mu gihugu urimo. Wakwegera ahantu nk'ahangaha baragufasha kuko buri faranga n'ubwoko bwaryo buba bugiye bufite amafaranga bavunjaho.

Ahantu batanga serivisi zigiye zitandukanye, turimo turabona ko muri serivisi batanga, harimo izo ku kuvunja amafaranga y'ubwoko butandukanye, harimo izo gutanga viza, cyangwa se kwemera kugenda, harimo kandi zo kugukorera ubusabe bw'ikoranabuhanga, harimo kandi gukora ubusabe bw'ubwishingizi. Mu gihe ukeneye serivisi nk'iyi ngiyi, ushobora kubagana bakaba bagufasha.

Ahantu hasashishijwe hasi amakaro y'umweru hari ameza y'umweru kandi hejuru afite inkingi cyangwa se amaguru y'ibiti hagiye hari intebe kandi zigiye zizengutsa ayo ameza z'icyatsi zifite amaguru y'ibiti hano hantu ushobora kuza uje kuhaganirira n'umuntu ushobora kuza uje kugira kuhakoreshereza ibirori bitandukanye kuko hagaragara neza hari intebe nziza kandi ayo mezakandi atetseho ikirahure

Ameza akozwe mu maguru y'ibiti gusakozwe hejuru mu kirahure aho ugize ikintu ushyireho kimeneneka nayo yameneka. Ayo meza kandi ateretseho ibirahure bitandukanye hariho nijaga y'ikirahure harimo amazi gusa kandi kuri ayo meza hazengurutseho intebe zitandukanye byose biteretse ahantu hari amakaro. turabona amasahani inyuma dukomeje tukazamuka tukabona n'amasikariye azamuka ajya hejuru. Ni ukuvuga ngo hano hantu tuvuze ko ari muzu y'umuntu byaba ari byo rwose. Aha akaba ari aho barira.

Ibyo kurya bigiye bitandukanye turimo turabibona bipanze ahantu mu bisorori binini, ibintu nk'ibingibi tubizi mu birori, mu makwe cyangwa se mu mahoteli ni ukuvuga ngo iyo hageze mu gihe cyo kurya uragenda bitewe n'ibisoro bi bipakiyemo ibiryo bitandukanye we bitewe n'ibyo ushaka ukagenda wiyarurira, bitewe n'ikiryo urya buri kimwe cyose ukagenda wiyarurira kandi ukarya ibyo ushoboye.

Inzu nziza cyane isize irangi ry'umuhondo, ni inzu ndende cyane dukunda kwita etaji nukuvuga ngo iyizu kandi igiye izengurutswe n'amatara arimo araka amatara maremare, kandi munsi y'iyo nzu hagiye haparitse amodoka atandukanye, turimo turabona kandi ibiti bigiye bikikije iyo nyubako, tukabona ko ari n'ahantu ku mbuga y'ibitaka igihe itandukanye. Mu by'ukuri rero hano hantu hariherereye ni heza kandi cyane.

Ahantu hacururizwa ibyo kurya bitandukanye turimo turabona amasahane agiye apanze ku meza ahantu, tukabona kandi imbuto zitandukanye, hari inanasi, imineke, ndetse n'amacunga. Turimo turabona kandi isahane nini iriho ibintu bimeze nk'imigati, hano hantu biragaragara ko biri muri resitora aho ushobora kuza kurya ukaba waza ugafata imbuto runaka ushaka, cyangwa se ukaba washaka umugati ukaba nawo wawufata.

Inzu nziza igeretse incuro eshatu, igiye ifite inkingi z'ubururu, gusa hagiye higanjemo ibara ry'umweru ahantu hose, no ku nkingi zaho hagiye hariho ibara ry'umweru. Hanyuma iyo nzu iteretse ahantu heza, hagiye hari indabo nziza, hari jaride nziza, hari umuhanda kandi. Hano hantu n'inzu nyabagendwa kandi ibereye amaso

Inyubako nziza cyane ndende tumenyereye kwitwa amazina rya etaje, tuvuze ko ino nyubako ijya kugereranywa nka hoteli ntabwo tukaba twibeshya. Hoteli nziza rero ibyiza byinshi cyane harimo icyumba cyiza kandi gisukuye gishobora kugeza serivisi nziza kuko amahoteli akomeye, batanga serivisi z'ikirenga n'abakozi bashyira imbere icyubahiro cy'abashyitsi, haba kandi ibikoresho byoroshya ubuzima harimo; amafunguro meza, haba ahantu heza haba umutekano, kuko amahoteli yose ashyira imbere umutekano w'abashyitsi haba umubyumva no mu bindi bice byayo bigira kandi interineti yihuta kandi ahantu hose ho guhurira n'inama zitandukanye zibera muri hoteli biba ari ibisirimu cyane.

Inzu nziza igiye isashemo amakaro meza cyane turimo turabona kandi amatapi, asa nk'ivu tukabona ameza ku ruhande, tukabona kandi inzu ku ruhande z'ibirahure zibonerana hicayemo abantu, zino nzu rwose uje kuhakorera ahantu nk'aha ngaha, ushobora kuba ufite nka serivisi zitanga ubwishingizi, serivisi zijyanye n'imisoro, ushobora kuba waza gukorera aha ngaha n'izindi zitandukanye, kandi wabona abantu bakugana benshi.

Icyapa cy'ubwishingizi tumenyereye nka Britam, Britam ni ikigo mpuzamahanga gikora ibijyanye n'ubwishingizi, ishoramari n'ubucuruzi bw'imitungo, ni kimwe mu bigo bikomeye muri Afurika mu bijyanye no gutanga serivisi z'ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bw'ibyago, ubwishingizi bw'ingendo, ubwiteganyirize bw'izabukuru, ndetse n'ishoramari ryihariye, kandi ifite icyicaro gikuru muri Nairobi muri Kenya, kandi ikorera mu bihugu bitandukanye bya Afurika y'Iburasirazuba n'Amajyepfo, birimo Kenya, Uganda, Tanzania u Rwanda, Sudani y'epfo, Mozambique na Malawi.

Ahantu hashashemo tapi isa nk'ivu turimo turabona ko ari inzu ifite amadirishya y'ibirahure, harimo haragaragara ibintu byose birimo imbere turimo turabonamo ameza meza kandi kuri ayo meza hejuru hateretse itara, turimo turabona intebe tukabona ameza. Hano hantu habereye kuba wahashyira ibiro. Ukaba ufite serivisi runaka utanga, ukaba ufite ibyo ukora bitandukanye, ukaba wifuza ibiro ahantu nkaha ngaha waza rwose ukahakorera kuko byagenda neza.

Inzu yanditseho gatandatu zeru kane gatandatu umunani gatandatu umunani turimo turabona ko ari inzu itanga ubwishingizi muri leta zunze ubumwe za Amerika, aho ari uburyo bwo kurinda umuntu cyangwa ikigo mu gihe habaye igihombo, impanuka cyangwa ibibazo bimwe na bimwe by'amafaranga, ubwishingizi bukubiyemo ubwoko butandukanye harimo ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bw'ubuzima n'ubuvuzi, ubwishingizi bw'ibinyabiziga aho bafasha kwishyura ibyangiritse ku modoka cyangwa ibindi byabayeho mu gihe cy'impanuka ni ukuvuga ngo kandi ndashaka gukoresha ubwishingizi bw'imitungo yawe nabyo birashoboka cyane.

Icyapa kirimo kirerekana ikigo cy'ubwishingizi, turimo turabona ko gifite ishami mu karere ka Muhanga, icyo kigo kandi cy'ubwishingizi cyitwa Purayime. Ubundi mu busanzwe, icyo kigo ni sosiyete y'ubwishingizi ikorera mu Rwanda, itanga serivisi zitandukanye z'ubwishingizi harimo: ubw'imitungo, ubw'ubuzima, ndetse n'ubwishingizi bw'ibigo. Yatangijwe cyane cyane hagamijwe gutanga serivisi zizewe kandi zihuse, ku baturage ndetse n'ibigo by'ubucuruzi. Ushobora gutekereza ku byo wavuga byinshi bitandukanye kuri iki cyapa, ariko muri rusange ni ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda.

Icyumba kinini gishashwemo amakaro turimo turabona kandi ameza ateretse ahantu y'ikigina, imbere yayo meza hicaye abagabo babiri umwe yambaye ipantaro y'umukara n'ikote ry'umukara n'ishati y'umweru n'inkweto z'umukara, undi we imyambaro ye ntabwo igaragara neza bicaye ku ntebe z'umukara aho hantu kandi turimo turahabona andi meza yo kurundi ruhande kutahabona nicyobajugunyamo imyanda. Tuvuze ko bano bantu bakeneye serivise kandi bategereje kugira ngo bazihabwe byaba aribyo kuko turimo turabona ko wagira ngo n'ibiro bitanga serivise.

Akazu kari mu ibara ry'umuhondo kanditseho Emutiyeni gatanga serivisi zitandukanye, harimo kubitsa, kubikura, kohereza, kugura amayinite ndetse no kugurisha amayinite. Mo imbere hakaba hahagazemo umugabo ufite bike mu ntoki cyangwa se ikaramu mu ntoki. Imbere hakaba hari n'amakayi cyangwa se impapuro.

Ahubakwa amazu y'icyerekezo atuzwamo abaturage bimuwe bakabaho batekanye aho baba begereye n'ibibuga byo kwidagaduriramo bakiniraho imikino igiye itandukanye.

Gutanga inguzanyo byaroroshye cyane mu gihugu hose cyane cyane mu ma banki atandukanye ,aho amabanki asigaye apiganira abakiriya cyangwa se abaturage baza gufata inguzanyo muri banki nukuvuga ngo ubu ngubu mu mabanki yose atandukanye yagiye akubita hasi inyungu bacaga abaturage kugeza ubungubu gufata inguzanyo ku muturage biroroshye cyane aho inyungu aba ari amafaranga make kandi bakagukemurarira ikibazo cyose wifuza ukabona amafaranga byose kandi mu gihe gito.

Inzu nini irimo imiryango myinshi igiye itandukanye hejuru turimo turahabona amadosiye, hanyuma hasi turimo turahabona icyapa cyanditseho kopedu aho turimo turabona ko ari ishami rya Kimironko. Ubusanzwe rero iki kigo cya kopedu ni ikigo cy'imari iciriritse cyashinzwe mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi, cyatangiye ari koperative y'abagore ifite intego yo gufasha abagore kwiteza imbere binyuze mu kwizigamira no kubona inguzanyo, hanyuma rero mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri iyi kopedu nibwo yahindutse ikigo cy'imari gitanga serivisi z'imari ku baturage bose n'ubwo yakomeje gushyira imbaraga mu guteza imbere abagore cyane cyane.

Abantu benshi batandukanye bambaye imipira y'umweru, ndetse n'ibintu bimeze nk'ibiziriko mu ijosi dukunda kwita baji, aba bose barimo baratanga serivise, bafite amatelefoni bagiye bafite amacupa ya mazi y'Inyange, imbere yabo hateretse ibipapuro byinshi by'amafishi, hanyuma nyuma yabo hari abantu bagiye batandukanye baje kubaka serivise. Dutange serivisi nziza kandi tuzininoze twakira abantu bose batugana mu buryo bw'icyubahiro kandi tuba serivise tubagomba.

Ubwo wibajije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko nanone ukugira ubunebwe ntabwo ujya uva mu rugo ngo ubashe kutemberera n'ahantu dutuye uko hameze ariko nanone birafasha niyo unaniwe ntabwo ushobora kuva iwanyu unaniwe cyangwa utashye bwije ngo ujye ku isoko guhaha. Nkuko ubibone iki ni ikirango kerekana imyenda y'iminyarwanda n'inkweto zikorerwa mu rwanda nawe wabyihangira

Inzu ndende isakaje amabati, turimo turabona imbere y'iyonzu kandi hahagaze abantu, hanyuma mo imbere harimo imyenda igiye imanitse ahantu hatandukanye, turimo turabona ko hari iduka ry'imyenda, hanyuma haba hari imyenda y'abagabo, hari imyenda y'abagore, hari imyenda y'abana. Ushobora kwiwinjiramo ugasanga bagiye bayishyira mu byiciro bitewe n'iyo ushaka ukaba wajya kurebera mu icyocyiciro ukagura imyenda yawe ukanishyura.

Inzu nyinshi z'ubucuruzi turabona amamodoka agiye aparitse aho hantu imbere yizo nzu kandi tukabona kandi hegereye umuhanda, tukabona ko hari moto iriho iratambuka ihetse umugenzi, turimo turabona ko hari urujya n'uruza rw'abantu hari ibyapa bigiye bitandukanye herekana ko hano hantu ari mu isantire cyangwase ahantu hahurirwa n'abantu, ahantu hashobora gacururizwa ibintu bigiye bitandukanye.

Imbuga ishashemo amatafari ya kijyambere. Si ibyo gusa kandi, ruguru y'iyo mbuga turimo turabona imiryango y'inzu itandukanye, tukabona ko ari amazu y'ubucuruzi harimo abantu kandi batandukanye benshi, hanyuma imbere muri ayo mazu y'ubucuruzi ikintu kimwe kiragaragaramo ni imifuka. Tuvuze ko hano hantu baranguza imifuka y'ubwoko butandukanye: harimo amasukari, harimo imiceri, harimo imyunyu n'ibindi bigiye bitandukanye, byaba aribyo rwose kuko turimo turabona ko ari inzu z'ubucuruzi.

Uyu ni umudamu mwiza cyane, wambaye ipantaro ijya gusa ubururu, ndetse n'ishati irimo amabara agiye avangavanze. Umwitegereje neza urabona ko yishimye mumaso he, yambaye amadarubindi.

Ibicuruzwa bijya bitandukanye harimo karoti, intoryi, imyumbati, powavuro, ibijumba, ibirayi, bitunguru, tukabona kandi n'abantu bagiye batandukanye. Aha hantu ni nk'isoko kuko niho hahurira abantu benshi haba harimo abaje kugura, kugurisha, ndetse no guhaha.

Isoko ryakoraniyemo abagore batandukanye. Harimo abahetse abana hari n'ababashyize hasi, kuko turimo turabona abagore tukanabona n'abana. Bafite amabase agiye arimo ibintu bitanduknaye harimo intoryi, imiteja, imboga nyinshi z'ubwoko butandukanye. Ni ukuri ahantu nk'aha ngaha nta n'ubwo biba bihenze, baba barimo barabiguhera kuri macye kandi ari byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo turimo turabona nta kinyabiziga kirimo kiragenda, gusa hirya gato y'umuhanda turimo turabona inzu nziza cyane isize amarange meza cyane rwose gusa tukabona kandi imbere y'iyo nzu urjya n'uruza rw'abantu barimo baracicikana, tukabona kandi amamodoka aparitse aho ngaho. Hanyuma rero kuri yanzu turimo turabona umugore n'umwana bashushanyije ho birimo biragaragara ko bari kwamamaza serivisi runaka. mugihe rero uri umucuruzi, ukaba ufite serivisi nziza utanga uba ugomba kwegera inyubako nk'izingizi bakakwamamariza kuko byakurura abakiriya kuri serivisi zawe

Umugore uri mu isoko rwose urimo uraseka urimo aracuruza imbuto hari umugabo kandi uramugurira wambaye umupira w'umutuku, uyu mugore arishimye cyane arimo arereka uyu mugabo ibyacuruza bitandukanye, harimo imbuto kandi amwereka ko imbuto ari nziza ku buzima natazigura rwose bitazamugendekera neza. Banyarwanda tugure imbuto kuko imbuto ni nziza ku buzima kandi zirinda indwara.

Umusore ufite telefone mu ntoki yambaye umupira wa mtn akaba yambaye n'ingofero ya mtn ahagararanye n'umuntu ufite agaterefone gatoya mu ntoki ze, kandi wambaye ikote ry'umukara biragaragara ko ari serivisi amaze kumwigisha itangwa na mtn, umugabo nawe kandi nawe arimo aregerageza kugira ngo arebe ko yafashe ibyo bamwigishije bahagaze kandi ahantu haparitse imodoka.

kode y'ubucuruzi ya Emutiyene turimo turayibona imbere yacu tukabona kandi umuntu ufite telefoni mu kiganza cye, afita aga telefoni gatoya aho muri iyo telefone yanditsemo ngo shyiramo amafaranga, biragaragara ko yararimo arishyura yishyura akoresheje kuri ya kore. Hanyuma rero banyarwanda banyarwandakazi nimba ugiye kwishyura ujye ubanza ubaze umucuruzi niba afite kode, kuko bizajya bigufasha kutishyura amafaranga y'umurengera mu gihe wakoresheje ikoranabuhanga cyangwa se telefone kuko iyo wishyuye kuri kode ntayandi mafaranga urenzaho.

Turabona icyapa cya kode ya Emutiyene, aho barimo baratwereka ko iyo wishyuye ukoresheje kode Emutiyene nta kindi kiguzi bagucaba aba ari ubuntu, tukabona kandi ikarita ya banki nayo ushobora kujya guhaha cyane cyane nko muri aya maduka manini aho kugira ngo utange wenda telefone yawe bakubwire wishyure kuri kode, ushobora no kuba wakwishyura ukoresheje ikarita yawe ya banki. Ni ukuvuga ngo ibintu byose byaroroshye kwishyura byaroroshye ikoranabuhanga ryarabyoroheje.

Ku Gishushu naho wahabona inzu wakwishyura amafaranga atari menshi nawe ukabasha kuyibamo, ni amadorari magana ane wishyura buri kwezi ni hafi ya raadibi.

Abantu benshi bazengurutse umuntu wicaye kuntebe wambaye umupira w'umweru ufite ikora ry'umuhondo werekana ko ari uwa MTN, biragaragara ko arimo aratanga serivise za MTN, aho muri serivise zitangwa na MTN zitandukanya harimo kohereza amafaranga, kuyabitsa cyangwa kuyabikuza kwishyura ubwishyu bugiye butandukanye, turimo turabona kandi ugiye hakurya hari ibiti bigiye bitandukanye byerekana ko bari ahantu hatuje kandi hari ibiti byinshi.

Kode y'ubucuruzi handitseho akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri gatatu urwego iyo kode y'ubucuruzi ni gatandatu zeru zeru ijana na mirongo inani na gatatu iyo ugiye guhaha ikintu runaka bakakubwira ngo wishyure ujye ukunda kubaza nibafite kode kuko iyo uyishyuyeho nta kiguzi na kimwe baguca wishyura amafaranga wavuganye n'umucuruzi yonyine aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe akanyenyeri, kode urwego ugakurikiza amabwiriza.

Akazu ka eyateri kahuriwemo n'abantu benshi batandukanye, harimo abambaye imipira y'umutuku n'ingofero z'umutuku bigaragara ko ari abakozi ba eyateri, hari ameza kandi ariho ikirango cya eyateri hari n'abandi bantu bambaye imyenda isanzwe aba baje kwaka serivisi. Eyateri itanga serivisi zitandukanye harimo kwishyura amafagitire cyangwa se ubwishyu butandukanye, harimo kandi kohereza no kwakira amafaranga ukoreshe eyateri n'ibindi byinshi bitandukanye.

Emutiyene ku isonga, turimo turabona umuzungu tukabona kandi umuhungu wambaye umupira w'umuhondo wa emutiyene, hanyuma uwo muzungu arimo arareba cyane mubyo barimo baramwereka, bigaragara ko ari serivise barimo baramwereka zitandukanye zitangwa na emutiyeni, emutiyeni gusa si ugutanga serivise z'itumanaho, bacuruza n'ubwoko bw'amaterefone atandukanye kandi akora neza.

Abantu benshi bahuriye ahantu hamwe, hari ikintu kimeze nk'umutaka cy'umuhondo, gusa nk'igikingirije umuntu urimo imbere. Umuntu urimo imbere birimo biragaragara ko arimo aratanga serivise n'ubwo tutarimo turamubona, hanyuma aba bantu bose baje bamugana ngo abahe serivise kandi bose bategereje kwakirwa.

Akazu ka Emutiyene mo imbere turimo turabonamo umugabo urimo uratanga serivisi, inyuma tukabona abantu bane batandukanye aba bose biragaragara ko bakenewe gufashwa. Bashobora kuba bazanwe no gufashwa mu bintu bitandukanye hari ushobora kuba yaje kubitsa amafaranga, hari ushobora kuba yaje kuyabikuza, hari ushobora kuba yaje kohereza amafaranga, hari n'ushobora kuba yaje kugura interinete, ibi byose kandi ni serivisi zitangwa na Emutiyene.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara afite agaterefone biragaragara ko hari umuntu bari kuvugana kuri telefone imbere yari kumwe kandi n'umukobwa wambaye umupira wa mtn bishoboke ko ari umugenti w'irembo. afite telefoni ebyiri harimo arahereza uyu mugabo serivisi, n'ubwo uyu mugabo ari kuvugira kuri telefone kandi uwo mugabo yicaye kuri moto imbere turabona igikamyo kinini cyangwa se imodoka nini irimo iratambuka aha hantu.

Ahantu hatangirwa serivisi utahita umenya izo arizo mu imbere hicaye umugore wambaye ijipo y'umukara, yambaye ikote ry'umweru imbere ye hari ameza manini kandi hari ama mashini agiye atandukanye ,utumashini dutoya, hari telefoni z'umweru, hari akantu babikamo amarinete hari n'imashini nini. Kandi urebye ku ruhande uraza kubona ikirango cya emutiyene (MTN) bigaragara ko hari kode umuntu wese ushobora kuza kwaka serivisi ashobora kuba yakwishyura kur'iyo kode .Hari n'ibitabo kandi bigiye bitandukanye hari n'ikindi kintu icupa ry'umweru kandi ririmo arukoru(alcholic).

Umuhanzi w'icyamamare ufite indangururamajwi mu ntoki ze yambaye umupira wa emutiyene tumwita bwiza cyane, turamuzi hano mu Rwanda. Uyu muhanzi niwe wamamariza ibikorwa byose bya emutiyene, turabona abantu kandi benshi bagiye batandukanye bicaye ahantu hamwe barimo baritegereza uyu muhanzi, bambaye nabo imipira ya emutiyene, uyu muhanzi nk'uko tubizi neza afite indirimbo zigiye zitandukanye kandi nziza zikunzwe muri iki gihugu, kuba yakwamamariza rwose kompanyi nk'iyi ngiyi ikomeye nka emutiyene ni ibintu bikomeye cyane kandi bizamura isoko rya emutiyene.

Akazu ka eyateli gateretse ahantu biragaragara ko kanditseho ngo kanda akanyenyeri kabiri inshuro eshatu urwego hanyuma ahantu hose hagaragazwa eyateli uhita ubyibwira yuko batanga serivisi za eyateli harimo kohereza amafaranga, kwakira amafaranga, kugura inerinteti no guhaha cyangwa ukishyura ibicuruzwa bitandukanye ukoresheje eyateli.

Akazu ka MTN. Abantu batatu bari inyuma y'ako kazu, hari uwambaye umupira w'umutuku n'ipantaro y'ikoboyi, hari undi umwegereye wambaye n'awe ipantaro y'ikoboyi n'umupira ufite ikora hari n'undi ku ruhande wambaye ishati ya karokaro, abo bose biragaragara ko bategerejwe ko bakwakirwa n'umuntu urema imbere kugira ngo abahe serivisi zibagenza.

Ahantu hagaragara rwose nk'iduka hari amakesi y'inzoga, turimo turabona hejuru kandi kode yo kwishyura aho ya mtn hanyuma turabona ikiganza cy'umuntu ufite agaterefone gatoya harimo aragerageza kwishyura hanyuma arimo arakoresha uburyo bwa mtn akoresheje kode kugirango batamwishyura andi mafaranga y'umurengera akanze anyereneyeri, ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri, umunani, akanyenyeri icyenda zeru kabiri gatanu zeru gatanu urwego ahangaha yahise yemeza bamusaba gushyiramo umubare w'amafaranga ndetse n'umubare w'ibanga.

Ahantu hari kubera imurikagurisha rya serivisi za emutiyeni hari abakobwa babiri bari gutanga izo serivisi hari n'undi kandi afite indangururamajwi mu ntoki ze biba bimuhereza amahirwe cyane ku mushyushyarugamba bitewe n'impano wenda ashobora kuba yifitemo yo kuba yahamagarira abantu kuba baza gutwara izo serivisi ni ukuvuga ngo ibi bituma abantu baza bitewe n'uburyo yagiye yamamaza. Hari n'abandi kandi barimo barabyina ibi ni ibintu byiza cyane bituma abantu bashaka kuza baje kureba abantu bari kubyina hanyuma bakaba bagura serisi ziri gutangwa aha hantu.

Ahantu hatangirwa serivise za MTN. Turabona umusore wambaye umupira w'umuhondo, yambaye ipantaro y'ikoboyi, yambaye isaha y'umukara. Tukabona kandi umuzungu yambaye ishati yiganjemo ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, inyuma ye kandi hari n'undi musore wambaye umupira w'umuhondo urimo n'umukara. Umuzungu barimo baramwereka serivise zitangwa na MTN zitandukanye. MTN ni umurongo uhuriraho abantu benshi ukoreshwa n'abantu barenga mirongo irindwi ku ijana mu gihugu.

Akazu ka mtn imberi muma wambaye ubupiromokara afite kandi ibisigabwa by mukararuhutse cyane yamora afasha abantu hanyuma hanze hari abantu batatu bari ku ruhande rumwe bategereje serivisi hari uwambaye umupira w'umweruru'ipantaro undi wambaye ipantaro ya ndetse mukandara kagira ati ijose ryijimye hari undi kandikwa ruhandedo wambaye ishati y'umweru cyane'iryo bararyiganjemoso n'ayandidi mabanga hari n'undi ku ruhande utegereje ko nawe bamufasha ufite isaha ndetse na telefone mu ntoki mtene wayikoreshwa ibintu bitandukanye arimo kubiz no kubikoza.

Akazu ka Emutiyene gateretse ahantu hari ibyatsi. Inyuma y'ako kazu hari urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye. Abantu bose barimo barareba muri ako kazu ka Emutiyene. Ntabwo turimo turareba ikirimo kirahabera, cyangwa se abo bantu bashobora kuba bategereje kwakirwa, bagahabwa serivise zabazanye.

Akazu ka emutiyene gateretse ahantu inyuma yaho hari ibiti bifite amababi y'icyatsi, ahantu hose ushobora kubora ako kazu ushobora guhita wibwira yuko batanga serivisi zitandukanye, harimo kohereza amafaranga, kuyabitsa no kuyabikuza imbere kandi yako kazu ukomeje gatoya urazakubona imodaka iparitse ahantu hari umuhanda w'amabuye.

Iduka ricuruza amapantalo, hari amapantalo y'ubwoko atandukanye hari ay'abagabo hari nay'abagore hari kandi icyapa kiriho ikishushanyo cya MTN hariho kode ya kabiri gatanu zeru gatanu rimwe umunani, ushobora kugera ahantu ukaba ubonye ipantalo nziza urayikunze ukibaza uti se nayishyura gute ko nta mafaranga nagendanye ariko ufite telefone yawe ufite amafaranga kuri telefone, wakwishyura kuri mobayilo mani ukanze akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe urwego, ugakurikiza amabwiriza kandi ntakiguzi cy'umurengera baguca.

Abantu babiri bambaye imipira ya mtn mobile mone, biragaragara neza cyane ko hari umumotari yambaye kasike mu mutwe, aje kunywesha esanse moto ye, hanyuma muri bo abantu babiri umwe wambaye umupira arimo arashyiramo esanse umumotari yishimye anezerewe ibintu byose byoroshye wakwishyura buri kintu cyose ahuri kandi hejuru yaho handitseho na kode yo kwishyuriraho aho gushyira amafaranga yose asanga bidasabye gushyiraho umurengera noneho hamwe na mtn mobile mone wakwishyura minerivale y'umwana.

Abantu babiri bambaye imipira ya Emutiyeni, tubarabona kandi imashini imbere yaho, biragaragara ko barimo baratanga serivisi. Emutiyeni itanga serivisi zitandukanye mu Rwanda, zishobora gukemura ibibazo by'itumanaho, amafaranga, interineti ndetse n'ibindi bikorwa by'ikoranabuhanga.

Ahantu hari amamashini abiri kandi birimo biragaragara neza cyane ko hari ibyapa bya Emutiyeni biriho kode ushobora kwishyuraho kuri Sanilamu. Sanilamu ni ikigo mpuzamahanga gikora ibijyanye ubwishingizi, ishoramari n'ibijyanye no kubungabunga umutungo. Cyatangiye muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na cumi n'umunani, ariko ubu cyarakwirakwiriye ku isi hose no mu bindi bihugu by'Afurika, harimo n'u Rwanda.

Akazu ka MTN turabona hanze hari umukobwa wambaye ijipo y'umukara yambaye n'umupira w'amaboko maremare w'umutuku kandi afite agatambaro mu ijosi hari n'undi nawe wambaye ishati y'umutuku y'amaboko maremare n'ijipo y'umukara hanyuma abo bose barigukora ku kazu ka MTN bategereje ko bahabwa serivisi za MTN turabona umuntu kandi wambaye ipantaro y'ikoboyi umupira w'umweru afite ndetse n'igikapu.

Ifoto y'akazu ka emutiyene kari mu ibara ry'umuhondo gateretse ahantu hari ibiti byinshi cyane bigiye bitandukanye hari n'ibyatsi birimo biragaragara ko hari ibyatsi, imbere hari ibiti byinshi hari n'ahantu hameze nk'ahari inkingi, imbere yaho hari icyapa kitarimo kiragaragara neza.

Akazu ka MTN ndetse mw'imbere harimo umuntu utanga serivise za MTN w'umu mama asutse ibisuko by'umukara ndetse yambaye nu mupira w'umukara. Hari abantu barimo baraka serivise za MTN,uwo tubonamo yambaye umupira w'umweru n'ipantaro, hari n'undi yambaye ipantaro yakacyi ndetse n'umukandara, hari n'undi yambaye ishati yiganjemo umweru ushobora kuza kwaka serivise za MTN ushobora kubitsa, ukabikuza, ukanohereza amafaranga.

Akazu ka Emutiyene gateretse ahantu inyuma y'aho hari indabo kandi inyuma y'aho na none turabona umuhanda w'amabuye cyangwa se amatafari harimo kandi imodoka, Emutiyene Rwanda ni umuyoboro w'itumanaho wizewe cyane mu Rwanda serivisi zabo zifasha abantu guhuzwa no kugera ku ikoranabuhanga, Emutiyene kandi ifasha mu kohereza no kwakira amafaranga byihuse kandi byoroshye, ikindi kandi niba ushaka guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa ku giciro gito hamagara Emutiyene.

Amasahane y'ubururu ariho inyanya nziza cyane, tukabona umuntu wishimye ufite terefoni mu kaboko kamwe arimo arayirebamo ndetse afite n'ikarita ya banki, ashobora kuba abonye zino nyanya akabona ni nziza cyane, akavuga ati: ndazihaha nte ko nta mafaranga mfite? Ariko aranezerewe kuko agiye kwishyura akoresheje terefoni ye cyangwa se agakoresha ikarita ya banki, ni nayo mpamvu turi kubona umutaka wa AIRTEL ndetse n'umutaka wa MTN; wakwishyura ukoresheje ikintu cyose ushaka.

Mudasobwa ebyiri zirimo ziragaragara neza hari umuntu urimo uragaragara urimo imbere, wambaye umupira w'umuhondo, birimo biragaragara ko arimo arakoresha izo mudasobwa, inyuma kandi hari abandi bantu babiri hari uwambaye ingofero, hari n'undi mumama cyangwa se umugore wambaye ishati y'icyatsi afite umusatsi w'umukara, abo bose bategereje izo serivisi. Abahanga mu iby'ikoranabuhanga bavuze ko atari byiza kureba cyane, cyangwa kumara umwanya munini uri gukoresha mudasobwa kuko byica amaso.

Byaroroshye cyane rwose, ubu nta muntu ugifite impungenge z'umutekano w'amafaranga, ngo wenda ngo arayatwara bayamwibe, oya, ushobora kugenda rwose ukajya guhaha buri kimwe cyose ushaka, ufite terefone yawe na simukadi ya Emutiyene, ndetse ukishyura buri kintu cyose ushaka bidasabye ko, ugira impungenge z'amafaranga, turabona umumama wambaye ikanzu ya oranje afite ambaraje ebyiri mu ntoki, avuye guhaha, ari ahantu hegereye abakozi ba Emutiyene bambaye imipira y'umuhondo, kandi yanishyuye na we rwose akoresheje mobayiromani.

Akazu ka Emutiyeni mo imbere harimo umuntu wambaye amaherena yambaye n'isaha, hanyuma ku gikuta hagiye handitse ho ibyapa, hari icyapa cya Emutiyeni n'icya Eyateri bisa nk'aho ari ibiciro, hanze yaho kandi hari umuntu wambaye umupira w'umutuku ndetse n'amarinete ku musatsi.

Akazu ka Eyateri akenshi gakunda gutangirwamo serivisi za Eyateri. Turabona kandi imodoka zigiye ziparitse, turabona urujya n' uruza ry'abantu. Aba bantu akenshi baba bategereje ibinyabizga biza kuza kubatwara; turabona kandi imodoka iparitse na yo bigaragara neza cyane ko itegereje abantu yatwara.

Umukobwa w'imibiri yombi yambaye umupira w'umweru ufite ikora ry'umuhondo wanditseho ijambo Emutiyene afite ibisuko by'umukara, imbereye hari imashini biragaragara ko atanga serivise, hanyuma hari umugabo waje umugana yambaye ishati y'umweru ya karokaro, arimo aramwaka serivise, biragaragara cyane ko atanga serivise za Emutiyeni.

Turabona umugore wicaye ku ntebe y'umuhondo, wambaye igitambaro cy'umukara, yicaye mu ka MTN. Akazu MTN rero ahantu hose wakabona kaba kamenyereweho gutanga serivisi za MTN izo ari zo zose, yaba kubitsa cyangwa kubikuza, n'ibindi tutarondora. Imbere y'ako kazu ra umwana urimo araza, yambaye inkweto zijya gusa umutuku, afite n'ikintu cy'umweru mu ntoki ze.

Icyapa cyamamaza inzoga ya AMSTEL, hariho icupa ry'AMSTEL ripfundikiye, hakaba hariho n'ikirahure cyasutswemo inzoga ya AMSTEL, munsi yaho hari imodoka ikindi kandi hejuru yaho cyangwa k'uruhande rwaho hari inzu. Ushobora kwibaza ngo AMSTEL ni iki? AMSTEL ni ubwoko bw'inzoga busembuye ikundwa n'abanyarwanada benshi, abantu benshi bakunda inzoga cyangwa banywa inzoga zisembuye, bakunda kwifatira AMSTEL.

Akazu ka emutiyene mo imbere hicayemo umukobwa wamabaye umupira w'amaboko maremare w'umukara uwo mukobwa kandi arimo araganinira n'undi muntu uri hanze n'umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umukandara w'umukara n'ishati bwerurutse hanyuma uyu mugabo biragaragara ko ashobora kuba yaje agana uyu mukobwa aje kumwaka serivise zitandukanye zigenda zitangwa na emutiyene, uretse kureba ako kazu kandi inyuma yaho hakikijwe n'ibiti ni ukuvugango emutiyene yageze ahantu hose.

Iduka ritanga serivise za MTN,turabona ibyapa bigiye bitandukanye birimo bigaraza ko hano hantu ari mu iduka ritanga serivise za MTN,mo imbere harimo abantu bazitanga bambaye imyambaro rwose iranga ko ari abakozi ba MTN,hari abafite ama mashine hari n'undi uri hanze urimo urasaba izo serivise. Ushobora kugera nko mugihe ugasanga nk'umubare w'ibanga wawe wifunze, ushobora kugana iduka rya MTN rikwegereye baka bagufasha bakaguhindurira umubare wawe w'ibanga bakaguhereza umushyashya.

Kode y'ubucuruzi yari umunani icyenda gatandatu eshatu umunani. Iyi ni kode ikundakoreshwa cyane n'abacuruzi kugira ngo abakiliriya babo baze kuza kubishyuriraho biboroheye bo ubwabo ndetse binorohereje abakiriya babo ushobora kwibaza ngo nakora ikijyan nanjye mpabwe ikode y'ubucuruzi icyo wakora ni ukandisha ubucuruzi bwa chlemtne aho ujya kuro byakene bikwegereye ukajyana ibyangombwa by'ubucuruzi bwawe birimo indangamuntu yawe ndetse n'icyemezo cy'ubucuruzi konti ya banki umuki ifite uzuzuza kandi inyandiko zo gusaba serivisi y'ubucuruzi hanyuma imikene ikaguhereza kode ari iyoabakiriya bawe bazajya bakoresha bakwishyuriraho bikakorohera bikanorohereza abakiriya bawe.

Konte ya emutiyeni y'umucuruzi ushobora guhahiraho kandi ukishyuriraho bitagusabye kurenzaho amafaranga runaka hanyuma birimo biragaraga uburyo ushobora gukoresha ugiye kwishyurira kuri kode aho ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri ugakurikizaho kode, ino kode yanditseho ni gatandatu inshuro enye hanyuma ugakurikizaho gatatu zeru urwego, iyo wemeje ushyiramo amafaranga ugashyiramo n'umubare w'ibanga hanyuma ukaba urishyuye birarangiye.

Akazu ka emutiyeni mo imbere biragaragara ko hicaye mo umuntu utagaragara neza yicaye ku ntebe. Muri ako kazu hari mo uri kwaka serivisi wa mbaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati y'umweru, umuntu arimo araseka arirabura, imbere y'ako kazu hariho ibitaka, imbere y'ibyo bitaka hariho abantu, hariho abambaye amakanzu ari babiri, umwe yambaye ikote ry'umutuku, undi ry' icyatsi. Hariho umugabo kandi wifashe kukananwa hari n'undi uri inyuma ye wambaye ipantaro y'ikoboye.

MTN yageze ahantu hose ndetse na mubyaro yarahageze turabona akazu ka MTN turabona umuntu wicayemo imbere yambaye agapfukamuwa k'umukara yambaye nigire ya MTN biragaragara cyane ko ni umukozi wa MTN cyangwa umu agenti utanga serivisi zose zitangwa na MTN . Turabona kandi nyuma y'ako kazu hari nundi muntu kandi wambaye agapfukamunwa kumweru n'ingofero yumukara wajeba kureba serivisi za MTN , birashoboka rwose ko mu mugihe utabasha kwisabira serivisi za MTN wakwegera umu agenti wa MTN ukwegereye akagufasha .

Umuntu atwaye moto yambaye kasike isize irange ry'umutuku nano ahagaranye n'umwajeti wa emutiyene turabona kandi yambayemo imbire umupira wa eyateri bigaragara ko atanga serivise zo kubitsa no kubikuza yaba emutiyene ndetse na eyateri .Nanone kandi utwaye moto bigara ko atwaye ibicuruzwa byatumijwe hifashishijwe ikorana buhanga.

Umuntu wambaye ipantalo ya kaki yerurutse biragaragara ko yambaye n'ishati y'umweru, hanyuma afite telefone ndetse arimo aranayikoresha, afite n'igikapu cy'umukara. Hanyuma arimo arakoresha telefone ye, ariko biragaragara ko yashyizemo umubare w'ibanga utariwo. Ni ukuvuga ngo ntago ari byiza gushyiramo umubare w'ibanga, utariwo inshuro zirenze eshatu, kuko iyo umuntu awushyizemo, Emutiyene ihita ihagarika icyo gikorwa, kuko biba birimo biragaragara ko, utari nyiri iyo telefone, cyangwa se ushobora kuba uri kugerageza kwihesha ibitari ibyawe.

Akazi ka emutiyene mo imbere harimo umugore urimo atanga serivisi hanyuma inyuma y'ako kazu hari abantu batanu bose bategereje ko uyu mugore yabafasha akabahereza serivisi zaje zibagenza, hari uwambambaye ishati y'umweru yiganjemo uturabyo bambaye umupira w'amaboko magufi w'umweru hari uwambaye ishati y'iroza yikimye hari uwambaye kandi ishati y'umutuku n'ikanzu cyangwa se ijipo y'umukara hari n'uwambaye ijipo ya shokora ufite n'igikapu abo bose bakeneye kwakirwa ngo bahabwe serivisi za emutiyene.

kode y'ubucuruzi turimo turayibona imbere yacu aho mu ubusanzwe kode y'ubucuruzi akamaro kayo nukwakira ndetse no kohereza amafaranga akenshi ikunda akoreshwa n'abacuruzi kugira ngo bohereze amafaranga bitewe na serivisi bacuruje cyangwa ibicuruzwa bacururije turimo turabona code ko Ari rimwe umunani icyenda zero kabiri aho kwishyura ushobora gukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyera rimwe akanyenyeri umunani icyenda zero kabiri zero akanyeri ugashyira amafaranga mwavugannye n'umucuruzi ugakanda urwego ubundi ugashyiramo umubare w'ibanga wawe ukaba urangije kwishyura

Iduka ricuruza serivisi za Airtel kuko bambaye imipira y'umutuku n'ingofero y'umutuku abenshi, aba bose uhita ubyibwira ko barimo baratanga serivisi, hari n'urundi rujya n'uruza rw'abantu baje gusaba serivisi bashobora kuba baje kwaka wenda nka interineti, baje kubaza amakuru agiye atandukanye n'uwo murongo w'itumanaho.

Umuntu ufite telefone mu ntoki ze, arimo arashaka kwishyura amafaranga magana atanu ya enterinete, barimo baramuhitisha mo niba yayishyuye akoresheje amayinite afite, cyangwa se nimba yayishyuye akoresheje mobayiro mani, cyangwa se nimba yasubira inyuma, ni ukuvuga ngo ushobora kwishyura amayinite yo guhamagara cyangwa enterinete, ukoresheje amayinite ufite kuri telefone, mobayiro mani, cyangwa se ugakoresha na banki yawe, ni ibintu bikunda kandi byaroroshye.

Akazu ka emutiyeni ahantu hose ukabonye ni uguhita wibwira yuko aho hantu batanga serivise za emutiyeni. Imbere y'ako kazu hariho umugabo wambaye ishati y'icyatsi, mo imbere mw'ako kazu hicayemo umumama wambaye umupira w'umweru afite ibisuko by'umukara, inyuma kandi kw'ako kazu hahagaze umuntu wambaye umupira w'umuhondo kandi imbere y'aho hari imodoka. Ni ukuvuga ngo serivise za emutiyeni harimo kubitsa no kubikuza, harimo kwishyura amafagitire, hari no kugura ama inite, harimo no gukoresha serivise zo kuzigama no kuguza.

Akazu ndetse n'ibyapa bya Airtel harimo abantu baba baje gusaba serivise zitandukanye gusa mubusanzwe Airtel itanga serivise nyinshi mu Rwanda mu rwego rwo gufasha abakiriya bayo muby'itumanaho n'ikoranabuhanga. Dore bimwe mubyo itanga harimo itumanaho rya terefone, harimo interinete, harimo kubitsa no kubikuza amafaranga, harimo ama pake y'itumanaho, harimo na serivise zimari Kandi muri serivise zimari Kandi mubyo serivise zimari ibyo birimo gukorana nama banki binyuze kuri Airtel.

Umugore wambaye umupira w'umuhondo yambaye kandi n'itaburiya yanditseho momo aho ushobora gukanda; akanyenyeri ijana na mirongo itandatu na gatanu akanyenyeri, gatatu, urwego. Umugore biragaragara ko ari ahantu hari iduka iryo duka arimo aracuruza mu bice bitandukanye biragaragara neza ko ushobora kuza guhaha ikintu runaka mu iri duka, kuko harimo n'intebe harimo n'imyenda irimo iragaragara harimo n'ibikarito by'ibisuguti harimo n'amasafuriya waza guhaha ndetse ukaba wakwishyura ukoresheje mtn.

Kode y'ubucuruzi turabona ari icyenda karindwi umunani umunani gatatu gatanu, kode nk'izi tuzisanga cyane mu bacuruzi aho iyo uri umukiriya ushaka kubagurira ibicuruzwa runaka ushobora kwishyura ukoresheje kode kugira ngo hatagira andi mafaranga baguca cyangwa se ikindi kiguzi. Ni ukuvuga ngo zikoreshwa mu maduka manini n'abantu batwara abagenzi benshi baba bazifite kugira ngo borohereze abaturage cyangwa se borohereze abakeneye serivisi zabo.

Iduka ritanga serivisi za emutiyene turabonamo imbere abakobwa ba bari gutanga serivisi, tukabona ameza y'umweru ayo meza agira ateretse ibintu bitandukanye, hariho n'amatelefone emutiyene kandi icuruza na telefoni harizo tuzi cyane zimenyereweho kwitwa ikosora, turabona hanze kandi umuntu wambaye ishati y'ubururu harimo' hari n'icyuma ku ruhande cyo gutomboreraho aho ugenda ukagikaraga icyo utsindi bakakiguhereza ushobora gutsindira amayinite ushobora gutsindira na interineti ibyo byose wabitsindideye wagikaza baguhereza pe!

Turabona umugore wambaye umupira w'umuhondo bigaragara ko ari uwa MTN afite igitambaro mu ijosi cy'umweru afite ikaramu mu ntoki kandi afite na code ya MTN yanditseho karindwi zero gatandatu kane karindwi, code za MTN zishyurwaho ibintu bigiye bitandukanye aho ushobora kwishyura nta kindi giciro baguciye ukishyura amafaranga mwavuganye n'umucuruzi, hanyuma mu kwishyura ni ugukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na rimwe akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akanyenyeri code y'umucuruzi akanyenyeri amafaranga urwego ukemeza.

Hamwe na emutiyeni wakabya inzozi zawe, turabona umukobwa wambaye umupira kandi afite n'icyapa mu ntoki cya emutiyeni yambaye n'ingofero y'umuhondo, bundi ibara ry'umuhondo rimenyerewe nkaho ari ikirango cya emutiyeni, hari umubyeyi kandi wambaye ikanzu irimo ibirabyo haganjemo ibara ry'umukara yambaye n'ikote ry'umweru afite n'ibisuko by'umukara afite terefoni mu ntoki ye, biragaragara ko uyu mukobwa wambaye umupira wa emutiyeni arimo aramusobanurira serivisi zitangwa na emutiyeni kandi nawe murabona ko afite amatsiko menshi, ashaka kuzimenya kugira ngo ajye abyikorera.

Kode ya Emutiyeni y'umucuruzi bari kutwereka ko ushobora gukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri rimwe akenyenyeri zeru ebyiri gatanu gatanu rimwe gatatu urwego. Kode kandi ya Emutiyeni ikoreshwa mu buryo bwo kwishyura amafaranga ukoresheje ikoranabuhanga aho akamaro kayo ari ukohereza, kwishyura no kwakira amafaranga, gukorera mu buryo butekanye, kwirinda inyemezabwishyu mpimbano zitandukanye, kongera umuvuduko mu bucuruzi. Ishobora kandi no kugabanya amafaranga yo guhererakanya.

Umuhanda urimo uragenderamo imodoka nyinshi, hanyuma imbere yawo hari abantu batatu, uwambaye yambaye ikabutura y'ubururu yijimye, yambaye n'umupira wivu. Undi yambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umutuku. Hari n'undi kandi wambaye umupira w'umuhondo wa Emutiyeni. Ni ukuvuga ngo abo babiri rero, uwambaye umupira w'umutuku n'ikabutura y'uburu bwijimye bari kureba muri telefoni. Hanyuma uyunguyu wambaye umupira wa Emutiyeni arimo arabegera kugira ngo abe yababaza niba bagira icyo bamufasha kuri serivisi atanga nimba yazibahereza nabo.

Kode ya Emutiyeni mobayiro mani ni gatandatu zeru zeru ijana na mirongo inani na gatatu, iyi kode ushobora kuyikoresha wishyura kandi ntugire amafaranga y'umurengera wishyura, aho kwishyura ukoresheje kode ushobora gukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri akanyenyeri umunani akanyenyeri ugakurikizaho kode akanyenyeri ugashyiraho amafaranga urwego, iyo wemeje usabwa gushyiramo umubare w'ibanga gusa kandi wishyura amafaranga yonyine wasabwe kwishyura udashyizeho ay'umurengera.

Umutaka wa emutiyeni wanditseho ngo kanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, urwego, hari umuntu wambaye ijire ya emutiyeni hari n'umugabo wambaye umupira w'umutuku n'amarinete. Uwo mugabo biragaragara ko arimo araka serivise umuntu wambaye ijire ya emutiyeni. Ashobora kumwaka serivise zitandukanye emutiyeni itanga harimo kubitsa no kubikuza cyangwa se kohereza amafaranga. Hanyuma kandi rero inyuma y'uwo mutaka hari ibiti biragaragara ko ari mu ihuriro ry'ahantu kuko hari n'amamodoka biragaragara nkaho ari mu isantere.

Akazu ka Emutiyene, ahantu hose hari akazu ka Emutiyene kaba kamenyerewe cyane gutanga serivisi za Emutiyene. Serivisi Emutiyene itanga harimo kubitsa amafaranga, kuyabikuza, kwishyura ibintu bitandukanye ushobora nko kuba uri ku rugendo ukaba wakwishyura ukoresheje telefone yawe, ushobora kwishyura amafaranga y'ishuri, ushobora kwishyura umuntu ubereyemo ideni ni byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero kuri aka kazu ka Emutiyene hariho amagambo ashatse gusobanura y'uko ushobora kuguriza n'ijambo bise mokashi, mokashi ishobora ku kuguhereza amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwihuse.

Ahantu hatangirwa serivisi za eyateri zitandukanye, turabona ibyapa bya eyateri bitandukanye kandi bivuga ibintu bitandukanye. Eyateri rero itanga serivisi nyinshi zishobora gufasha mu bijyanye na telefone, interineti ndetse n'uburyo bwo kwishyurana. Dore muri bimwe mu buryo ushobora gukoreshamo ukoresheje eyateri: harimo kohereza no kwakira amafaranga, kwishyura ibicuruzwa na serivisi, kubitsa cyangwa kubikuza amafaranga kumu ajenti wa eyateri kugura ama unite na interineti, serivisi z'amajwi, guhindura icyongereza cyangwa ikinyarwanda kuri simukadi yawe, kandi hari'icyo wakora igihe ufite ikibazo aho ushobora guhamagara ijana, kugira ngo ugerageze kuvugana n'umukozi wa eyateri bagufashe. Ushobora kandi kugana eyateri ku ishami iryo ari ryose ribegereye, bakaba gufasha mugihe ufite ikibazo kijyanye n'umurongo w'itumanaho bakoresha.

Akazu ka emutiyene ntago ari kamwe gusa kurundi ruhande hari n'akandi, muri ako kazu ka emutiyene kambere harimo abantu bane bari kugaragara kukandi kazu kakabiri hari abandi bantu babiri bagaragara, hanyuma mukazu kambere abantu bambaye imipira ya emutiyene birimo biragaragara ko ari abakozi ba emutiyene, hari undi wa kane wambaye ipantaro y'umukara, inkweto z'umukara, n'ishati ya karokaro birimo biragaragara ko bari kumuha serivise za emutiyene, emutiyeni yarabyoroheje n'ukuri shobora no kohereza amafaranga mu amahanga cyangwa se ukayakira ukoresheje emutiyene.

Icyapa kerekana kode ya mobayilo mani ushobora kwishyuriraho. Iyo umuntu wese yishyuriye kuri kode, nta kindi kiguzi bashobora kumuca. Turabona yanditseho zero inshuro enye umunani, ni iy'umuntu witwa Selesite. Iyo ugiye kwishyura kode rero, ushobora gukanda akanyenyeri ijana na mirongwinani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri ugakurikizaho kode y'umucuruzi ugakanda urwego. Iyo wemeje bagusaba gushyiramo amafaranga ugiye kwishyura ukayashyiramo, hanyuma ugakurizamo gushyiramo umubare w'ibanga, ukemeza ugakurikiza amabwiriza.

Iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye hari firigo irimo ibyi kunywa baba babishyizemo kugira ngo bikonje, hari kandi imbere y'iryo duka umugore usa nk'ukuze wambaye ikanzu irimo amabara yenda ajya gusa nka ay'ingwe kandi harimo ibirabyo mu ikanzu ye afite n'igitamabaro ku rutugu, hari kandi undi mukobwa wambaye ipantalo ndetse n'umupira wa MTN w'umuhondo. Mu imbere kandi harimo undi muntu utagaragara neza, hejuru yaho hari kode ya MTN ushobora guhahiraho ikintu ukishyura batakwishyuza amafaranga yo kurenzaho.

Akazu ka Emutiyene mo imbere harimo umuntu n'inyuma yaho hari undi muntu wambaye umupira w'umweru ahetse n'igikapu cy'umukara, biragaragara ko urimo imbere atanga serivisi hanyuma uri inyuma yaje gusaba serivisi, ashobora kuba yaje gusaba serivisi zitangwa na Emutiyene zimwe murizo ni ukubitsa no kubikuza amafaranga, kohereza amafaranga mu mahanga, kwishyura ibicuruzwa bigiye bitandukanye no kwishyura amafaranga y'ishuri, no kwishyura ibintu byinshi bigiye bitandukanye.

Iduka ricuruza serivisi zitandukanye zitanga ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hari umuntu kandi urimo urasikaninga kode ya momo. Ni ukuvuga ngo momo ni uburyo bwateganyirijwe abanyarwanda bakoresha Emutiyene kugira ngo ntibakitwaze amafaranga mu ntoki, ahubwo bajye bayatwara kuri telefone yabo, ibyo kandi bitanga umutekano w'amafaranga ntabwo bituma utakaza amafaranga yawe cyangwa uyabura, kuko ushobora kwishyura kuri telefone yawe winjijemo ijambo ry'ibanga. Hari umuntu rero urimo urasikaninga iyo amaze gusikaninga aba yabasha kwishyura.

Umuntu wambaye ishati y'icyatsi kibisi yambaye ipantaro y'ikoboyi yambaye na kask mu mutwe we ahetse n'igikapu cy'icyatsi kibisi cya vuba, turimo turabona kandi atwaye igare, birimo biragaragara ko hari umuntu cyangwa se umukiriya watse igicuruzwa runaka bakaba bakimushyiriye kuri vuba, uyu muntu utwaye igare akaba ariwe ukimushyireriye bitewe na aderese cyangwa se aho yashyizeho atuye.

Abantu benshi bacuruza ibikoresho bigiye bitandukanye bacururiza ku ikoranabuhanga barabyoroheje, aho akenshi bakora urubuga ukajyaho ugafungura konti iyo winjiyemo ubona ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'ahangaha turimo turabona amasaro bambara ku maboko aho aba agizwe n'amazina yabo n'ibindi bigiye bitandukanye babishyiraho bagashyiraho n'igiciro cyabyo, hanyuma wowe ugahitamo ukanishyura igicuruzwa kikakugerezwaho aho uri, aho wahisemo kuzagezwaho igicuruzwa cyawe byoroshye kandi byihuse.

Ubucuruzi bw'ikoranabuhanga bwambukiranya imipaka turimo turabona ko mu gihe ukeneye serivisi z'aha hantu cyangwa se ushaka kugura ibicuruzwa by'aho, uhitamo igihugu utuyemo icyo ari cyo cyose bakugezaho ibicuruzwa wahisemo kugura mu gihe wabyishyuriye kandi bitabagoye.

Ukaba uri umukobwa cyangwa umugore ukaba wifuza kwiyongerera ubwiza butandukanye n'ubwo usanganywe, hari ubucuruzi bwamenyekanye cyane kumbuga nkoranyambaga, hari ubwamenyekanye ku ikoranabuhanga aho bacuruza ibikoresho by'ubwiza. Hari ibyo basiga mu isura, hari ibyo basiga ku bitsike, hari n'ibyo basiga ku maso, nk'ibingibi turimo turabona babisiga ku maso aho iyo wabikoresheje rwose uhinduka undi muntu kandi mwiza utangaje, ushobora kubibona kandi ku mbuga nkoranyambaga no ku bucuruzi bw'ikoranabuhanga.

Amandazi meza cyane yitwa amandazi y'urwibutso ari kugura amafaranga magana atatu mirongo itanu irindazi rimwe. Aya mandazi y'urwibutso yashinzwe n'umugabo witwa Sina Gerard aho agenda akora ibintu bigiye bitandukanye ariko no mu byo akora harimo n ay'amandazi . Hanyuma rero ashobora ko afitanye isano n'umuco cyangwa uburyo bwihariye bwo gukora amandazi bwaranzwe n'igihe runaka cyihariye mu mateka y'abanyarwanda .Mu muco wa kinyarwanda amandazi yagiye aba igihangano gifite umwihariko mu miryango, aho yakoreshwaga mu birori, abaturanyi bagiye batandukanye cyangwa se mu bihe byo kwibuka abantu n'ibikorwa byihariye ,hari uburyo yategurwaga neza bushobora kuba bwabaga bwihariye bitewe n'ikirere cyangwa se n'umuryango bikaba ariyo nkomoko y'umugabo witwa Sena Gerard wahise mo kuyakora.

Ikoranabuhanga ryoroheje ibintu byose biroroha cyane ku buryo nta muntu ukigora, ushobora gukenera serivisi runaka iyo ariyo yose uka wabikanda ku ikoranabuhanga ugashakisha ukaba wamenya aho wabibona byoroshye kandi bikakugezwaho byoroshye, turimo turabona ko ari iduka ashobora guhahiramo ibintu bitandukanye serivisi zitandukanye ukoresheje ikoranabuhanga bitagusabye kuva aho uri.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye ariko rigacururiza ku ikoranabuhanga, turimo turabona imyambaro itandukanye ibigaragara neza cyane ni amakote ariko acururizwa ku ikoranabuhanga. Ushobora kuba uri kuri telefone yawe ugenda ureba kuri interinete ukabona ikintu nk'ikingiki cyangwa se iduka nk'iringiri, ushobora kuba ubona nk'ikintu ukagikunda kuba wakigura biroroshye urakigura wamara kukigura kandi bakakikugezaho bitaguhenze ku mafaranga make cyane.

Akayetajeri karimo ikinyobwa kiza gikorwa mu bikomoka ku mata, gifite icupa ribengerana rifite umufuniko w'umweru. Hejuru gato harimo n'ibindi binyobwa bitari kugaragara neza.

imodoka nini cyane isize irangi ry'umuhondo kandi muri iryo rangi harimo irangi ry'ubururu bwijimye ryanditseho ngo iposita. ino modoka rerp bitewe nijambo dusomyeho dushobora gusobanukirwa yuko imodoka itwara ubutumwa bugufi cyangwa ubutumwa runaka ibuvana mu gace runaka ibijyana mukandi gace aho iyo umuntu yamaze gushaka kohereza ubutumwa akegera iposita bakamworohereza cyane mu kumufasha kohereza ubutumwa kuri nyirabwo cyangwa se uwo bugenewe.

Umuntu utwaye moto wirabura wambaye ipantaro y'ikoboyi, umupira w'amaboko magufi yambaye kasike isize irange ry'umutuku ahetse igikapu kuri moto ye, ushobora kwibaza ngo iki gikapu kirimo iki, biragaragara neza rwose tudashidikanyije ko ashyiriye umuntu waguze ibintu bye runaka mu rugo iwe, mu Rwanda byaroroshye hari kampani zigiye zitandukanye ushobora kubagurira ibintu byaho bacuruza hanyuma bakabikoherereza bidasabye ko wigira mu rugo, byaroroshye ntituzongere kwigora.

Icyapa cyerekana ibicuruzwa bitandukanye bishobora gucuruzwa hifashishijwe ikoranabuhanga harimo imyambaro harimo inkweto harimo ibikoresho byo mu nzu harimo ibikoresho kandi by'amashanyarazi, harimo kandi amaradiyo, harimo amateleviziyo, harimo intebe zo mu nzu ibi byose biroroshye gushobora kubitukomeza ukaba wabasha kugezwaho iwawe mu rugo wishyuye bitagusabye kandi ko ushya amafaranga y'urugendo kugira ngo bintu bikugereho ushaka guhamagara kuri zeru karindwi imani itatu gatatu karindwi zeru gatatu gatatu bakaba babikugezaho.

Abagabo babiri bambaye amasoti y'icyatsi kibisi yanditseho vuba bambaye kandi n'amakasike mu mutwe biragaragara neza cyane ko ari abamotari hanyuma kandi biragaragara ko akaboko kabo ko bafashe ku gikapu cy'icyatsi kibisi cyanditseho vuba, icyo gikapu giteretse kuri moto biragaragara cyane ko aribo bifashishwa, muku kujyana ibicuruzwa biba byaguzwe n'abaturage batandukanye babigeze aho bari.

Ahangaha biragaragara ko ushobora gutunga apurikasiyo ya ekwiti banki muri telefoni, maze ukajya uyifashisha mu bikorwa ushaka gukoresha konti yawe haba kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza n'ibindi.

Imodoka ziraparitse. Zitegereje gutwara abantu ndetse n'ibintu. Kugira ngo zibageze aho bashaka kujya mu buryo butabagoye. riraatwikiriye. Ibyo itwaye bifite umutekano. Kuko ntabwo bishobora kunyagirwa cyangwa se ngo izuba ribyice.

Moto ifite purake ya Ra na da, gatanu , kane, gatatu, da. Ni moto iteretseho ikintu kimeze nk'igikarito gikoze mu cyuma, hanyuma ihagaze, iparitse ahantu. Imbere yaho hari umuntu urimo uragendera muri uwo muhanda yambaye ipantaro n'umukara ndetse n'inkweto z'umukara. Hanyuma ushobora kwibaza ngo kino gikarito kirimo iki? Iki ni cya gikarito, ushobora kugenda umuntu yaguze ibicuruzwa runaka cyangwa se serivise runaka. Hanyuma bakabimushyira babivanye aho yabiguriye babijyanye aho atuye.

Inzu ndende kandi nini igeretse, ifite amadirishya afite amarangi y'umweru, ikagira ahantu hose hagiye hasize amarange y'umweru, amadirishya yo ni umweru n'inzugi zayo ni umweru. Iyo nzu kandi hariho akantu kajya kumera nk'icyapa kanditseho ra na wa, hakajyaho akamenyetso, hakajyaho ca na a, hanyuma kakaba gateye hejuru, hameze nka kositara. Biragaragara ko hari umuntu uri kugerageza kugaragara kuri iyo nzu, ariko haragaragara umutwe gusa.

Ushobora kwibaza ngo Kikuu ni iki cyangwa ikora ite? Ni ukuvuga ngo Kikuu ni urubuga rw'ubucuruzi bwo kuri interinete rwakoreraga cyane muri Afurika, rukaba rufasha abantu kugura ibicuruzwa bitandukanye, akenshi abaguzi babona ibicuruzwa byo hanze y'igihugu cyane cyane ibiva mu bushinwa bikaza bikageraho nyuma y'igihe gito nk'urugero nge rwose narayikoresheje iyo ufunguye konti muri Kikuu kuri telefoni yawe biba bigaragara gutya aho ushobora guhitamo ibikoresho cyangwa ibicuruza ushaka ukabishyiramo ukabishyira agatima kugira ngo uzabigure ubutaha kandi igihe cyateganyijwe rwose urishyura bakabikugezaho bataguciye ay'urugendo.

Ese mwari muzi y'uko mushobora kugura amafirigo atandukanye ku giciro cyiza ukabigurira kandi i Kigali ndetse na firigo yawe ikakugeraho ahantu ari hose? Biroroshye cyane wabikorera ku ikoranabuhanga.

Ubwoko bw'amavuta butandukanye hari amavuta yo kwisiga mu ntoki, hari amavuta yo gusiga ku mubiri, turabona ishusho kandi y'umukobwa mwiza cyane biragaragara ko ari kwamama aya mavuta. Ushobora kubona umukobwa mwiza ukayabona ko aya mavuta ariyo yamuhinduye akamugira gutya nawe ukaba wagira amatsiko yo kuyakoresha kugira ngo urebe ko bigenda neza. Hanyuma niba wifuza kugura aya mavuta ushobora kuba wareba harimo ayo mu ntoki, ayo ku mubiri ndetse nayo ushobora gukoresha nk'umwuka.

Gukoresha uburyo bwo hutimiza ibyo waguze bigira akamaro kanini cyane: harimo gukwirakwiza ibicuruzwa mu bice byose, harimo kongera ikoranabuhanga. Kuko gutumiza ibyo waguze, bifasha n'ikoranabuhanga nk'uburyo bwa telefoni cyangwa porogame, bigafasha abakiriya kumenya ibyo bakeneye nta mbogamizi. Kandi bishobora gushyigikira ubucuruzi bw'abakora ibintu bigiye bitandukanye, nk'uruge ro vuba. Waba ushaka amakuru arambuye ku kigo runaka cy'izi serivisi cyangwa uko bigenda? Hano turimo turabona uburyo ushobora kugura imyenda y'abagore, cyangwa se imyenda y'abana, ukoresheje ikoranabuhanga.

Icyapa cyerekana ko umuntu ashobora guhaha se cyangwa agacuruza ibicuruzwa byakoresheje ikoranabuhanga, turabona abakobwa babiri bateganye bose bafite amatelefoni bafite n'amakarita mu ntoki bambaye n'amashati ya kaki, turabona kandi uburyo ushobora gukora ubusabe bwawe. Ushobora guhamagara ku buntu nimero yatanzwe ni icyenda rimwe inshuro eshatu cyangwa se ukabandikira kuri watsapu kuri zeru karindwi umunani zeru kane kane zeru gatanu kabiri kabiri, hari n'uburyo ushobora gukanda kandi akanyenyeri icyenda rimwe rimwe urwego hanyuma ukaba wahaha ibintu byawe wifuza kandi bikakugeraho neza.

Ushobora kugura imyenda itandukanye ukoresheje ikoranabuhanga, urubuga rwo guhaha ku murongo rwahinduye ubucuruzi bituma rwihuta cyane rugakorra neza kandi rukagera ku bacuruzi bose ndetse n'abaguzi, turabona imyenda itandukanye ndetse n'ibiciro byabyo mu gihe wabonye washimye umwenda kandi ufite ubushobozi bwo kuwugura, turabona ishusho ya Insitagarame, tukabona ishusho ya Fesibuku, tukabona n'ishusho ya Watsapu, ushobora kuba wakandikira abo bantu ukoresheje izo mbuga nkoranyambaga hanyuma ukanabishyura ibicuruzwa byabo wahisemo ukabigezwaho ku gihe kandi neza.

Ikarita iranga ibyerekezo niki niki? ushobora kuba ugiye ahantu ari inshuro ya mbere hagiye ukaba utarakandagiye n'umunsi umwe ushobora gukoresha ikarita ikakugeza aho hantu, bidasabye kuyoborwa n'umuntu turabona telefone irimo ikarita iranga icyerekezo, aho ugiye kuri murandasi yawe cyangwa se ukaba ufite iyo karita muri telefone yawe, irakuyobora rwose ikakugeza aho wari ugiye bidasabbye ko uyoboza.

Gukoresha uburyo bwo gutumiza ibyo waguze bigenda bifata indi ntera mu Rwanda kandi bifite akamaro kanini cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Dore akamaro kabyo: Harimo kugabanya igihe cyo gutembera, harimo korohereza abakiriya, harimo kwihutisha serivise, harimo no gukwirakwiza ibicuruzwa mu bice byose. Turimo turabona umuntu ufite telefoni yanditseho vuba, vuba ni kompanyi ifasha abantu mu kohereza kugezwaho ibyo waguze kandi neza mu gihe cyihuse, cyane cyane bizwi nko ku gihe watumije ibyo kurya.

Birashoboka cyane ko ushobora kuba wacuruza ndetse ukanagura ibicuruzwa ukoresheje ikorana buhanga, aho ushobora gukora urubuga abantu benshi bakunda kwita nka webusayiti, ukaba wazajya ucishaho ibintu ucuruza kugira ngo bibone abaguzi cyangwa ukajya gusura urwo rubuga kugira ngo ugure ibyo ushaka. Turabona urugero rw'imipira itandukanye y'ubwoko bumwe ariko itandukanye amabara, uru ni urugero rwiza rwerekana yuko ushobora kuba wahitamo ibara ushaka ndetse ukanishyura uwo mupira ukawutwara, ndetse n'ibindi bitandukanye ushobora kuba wabigura.

Nkuko tubizi nta ikintu kitagira ingaruka nziza ndetse n'imbi, guhaha dukoresheje ikoranabuhanga, gucuruza dukoresheje ikoranabuhanga bigira amahirwe menshi cyane bikagira imbogamizi ndetse bikagira ni nzira iri mbere ndende. Mu mahirwe menshi yo guhaha byagabanyije gutakaza igihe, gutakaza amafaranga ariko bishobora no kugira ikibi cyabyo aho bishobora gutera kwibwa amafaranga utuburiwe. Gusa haracyari inzira ndende kandi bizadufasha ko guhaha dukoresheje ikoranabuhanga birafasha cyane.

Umuntu wambaye ipantaro y'ikoboyi, yambaye ishati y'icyatsi kibisi yanditseho vuba, yambaye kandi na kasike ifite irangi ry'icyatsi kibisi. Afite kandi ikintu kimeze nk'igikarito cy'ububiko arimo aragenda agira ibyo akuramo kandi icyo gikarito giteretse kuri moto, hanyuma iyo moto iparitse mu muhanda w'amabuye birimo biragaragara kandi mbere uzamutse gato uraza kubona ibiti, uyu mumotari cyangwa se uyu muntu utwaye iyi moto biragaragara ko ashobora kuba ajyanye ibintu bimwe na bimwe byatumijwe n'abantu kuri vuba.

Mu tubari twinshi aho abantu bafite amafaranga yabo menshi bajya kunywera hakunze kuba amakontwari afite amatara yaka mu mabara atandukanye bityo bituma hagaragara neza kandi ku buryo buri muntu wese yakwishimira uburyo aho ahantutu hasa.

Icyapa cya kompanyi icuruza ibicuruzwa byayo ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku ikoranabuhanga yitwa ba kabirica. Ba kabiri cana ni ikompanyi icuruza ibicuruzwa byayo binyuze ku ikoranabuhanga cyane cyane ku mbuga za interinete cyangwa porogaramu za telefoni. Aya masosiye ashyira ku isoko ibintu cyangwa serivisi ku buryo abakiliriya babigura badakoresheje umwanya wo kugera aho bicururizwa cyangwa gutakaza amafaranga y'itike. Ni ukuvuga ngo ibiranga rero iyo kompanyi ya ba kabiri ca ikora, ni ikoreshwa ry'ikoranabuhanga, urutonde rw'ibicuruzwa ruba ruriho, kohereza ibicuruzwa aho umuntu abarizwa n'urwego rwihuse kandi mu buryo bwihuse bataguciyemo amafaranga yo kohereza.

Ukaba uri umudamu ufite akazi keza cyane, ukora no mu biro, ukaba wibaza se, najya mu biro gute nambaye neza, bisa neza cyane rwose? ushobora kugana hano hantu kino cyapa kirimo kiratwereka, uburyo bacuruza amajipo meza, amakote meza, amashati meza, amakanzu meza kandi iyi myenda yose n'iyo wajyana mu biro kandi ukaba usa neza rwose, nta kibazo.

Urubuga rw'umucuruzi ushobora kuba wakoresha kugira ngo umenyekanishe ibicuruzwa byawe. Ushobora kuba ufite ibikoresho bitandukanye ibikoresho by'ubwiza, imyambaro, inkweto, ibyo kurya n'ibintu byinshi bitandukanye cyane. Ukaba uri umucuruzi rero, ukaba utazi gucururiza ku ikoranabuhanga, waba warahombye cyane, kuko abantu benshi muri iki gihe basigaye bahahira ku ikoranabuhanga, bakishyura ndetse n'ibyo bahashye bikabageraho aho bibereye, bitabasabye gukora ingendo za hato na hato.

Abanyarwanda benshi ntago bazi ikintu cyiswe Uzuri. Uzuri ni kompanyi icuruza inkweto nziza cyane muri iki gihugu n'inkweto zikoze mu bi bitenge n'inkweto zikoze mu mpu nazo barazigira. Hanyuma rero bagira amaporomosiyo atandukanye aho usanga ibiciro babikubise hasi ugasanga arimba inkweto bayiguraga nk'ibihumbi nka mirongo ine ni urugero bagushyire poromosi ya mirongo itatu nagatanu ku ijana icyo gihe ni cya gihe uzasanga uzagura za nkweto bakuvaniyeho amafaranga mirongo itatu na gatanu ku ijana nukuri tugurire Uzuri bagira inkweto nziza.

Mu igazeti yemeza itegeko rishyashya riba ryashyizweho na perezida wa repubulika hariho ibyagendeweho ndetse n'uko bigomba kujyenda.

Icyapa kerekana ahantu hari amabuye ashashe neza haruguru yaho hari ibiti hanyuma bigaragara ko icyo cyapa cyanditseho ngo busheri y'abadage busheri rero mu busanzwe ni ahantu hacururizwa inyama zisukuye kandi zifite ubuziranenge muri busheri rero ushobora kuba wahasanga inyama z'inkoko. inyama z'ihene, z'ingurube kandi zishobora no kuba harimo n'amafi nabyo bijya bibaho ni ukuvuga ngo ibyerekeye isuku ni ikintu cya mbere kitabwagaho kandi bifasha kugumana abakiriya aho hantu hose imashini zikoreshwa mu busheri zituma inyuma zisuzumwa neza kandi zikagira n'umwimerere wazo niba wifuza kuvuga ku bundi buryo runaka cyangwa se kubindi bintu wakwifuza guhaha watubwira tukanazikugezaho mu rugo iwawe.

Aba motari benshi bambaye amakote yanditseho Yego Moto ndetse na kasike zabo niko zanditseho kandi izo kasike zifite irange ry'umutuku, hanyuma imbere yabo hari imodoka ya Toyota y'umweru ifite amapine y'umukara iri kugendera mu muhanda, aba motari baraparitse biragaragara neza ko bategereje abagenzi kandi hakurya yabo hari n'abandi bantu barimo baracicikana bategerejwe n'uko babasha kuba babona ibinyabiziga bibatwara.

Uko wakwamamaza ibyo ucuruza. Turabona umuntu wakoze icyapa, aho acuruza ibintu bye akoresheje ikoranabuhanga, yashyizeho amanimero ya terefone wamubonaho, mu gihe ukeneye kumugurira ikintu runaka, wamuhamagara ukamubwira ngo ndashaka ikingiki, hanyuma yashyizeho na imeri ye, ashyiraho n'uburyo butandukanye ushobora kwishyura, mu gihe washatse ikintu kandi ugiye kugitwara, hanyuma turimo turabona yuko yahisemo kandi ko iyo wamaze kugura ikintu kugirango ugihabwe ntago wishyura amafaranga y'urugendo bakikugezaho ku buntu.

Ushobora gutumiza ikintu cyose ushaka kandi kikakugeraho mu buryo bworoshye. Turabona umuntu wambaye ipantaro y'ikoboyi, umupira w'umuhondo, yambaye kasike isize irangi ry'umutuku ndetse afite n'igikapu. Iki gikapu rwose birigaragaza neza ko kirimo ibicuruzwa bitandukanye abantu baguze, hanyuma uyu muntu utwaye moto agiye kubibashyikiriza aho bari babiguriye mu ngo zabo. Ni ibintu byoroshye cyane nawe wabitumiza bikakugeraho kandi byoroshye.

Waba waruzi uburyo wahaha ku ikoranabuhanga ukoresheje terefone yawe n'ukuvugango muri Kigali n'ibintu byoroshye rwose uyu munsi aka kanya ushobora kuba uri iwawe wicaye iwawe ukaba watekereza kugira ikintu uhaha, nibyiza yuko rwose wahahira ku ikoranabuhanga aho ufata ukarya ku imbuga zitandukanye ukareba ibicuruzwa bitandukanye, hanyuma ukaba wabigura ndetse bikaba byakugeraho uri iwawe bidasabye kugenda rwose cyangwa utakaze umwanya w'ubusa.

Ushoboraha guhaha ukoresheje ikoranabuhanga ibintu wahashye kandi bikakugeraho, turabona umukobwa uri imbere yacu, yambaye ipantaro ndetse n'ishati y'amaboko maremare cyangwa se icyo wakwitwa umupira w'amaboko maremare, afite telefone mu ntoki ze z'umweru ndetse yambaye n'ikimufasha kuba yakumva bitabaye ngombwa ko ijwi risohoka hanze, abantu benshi dukunda kubyita nka ekuteri, arishimye rwose aranezerewe, bitewe nuko yahashya ikintu, akoresheje ikoranabuhanga kandi kimugeraho.

Icyapa cyo kwamamaza serivisi zitandukanye zitangwa n'ahantu runaka. Harimo gucuruza ibintu by'amazu, harimo ibibanza, harimo ndetse n'amamodoka. Ibi n'ibintu ashobora kwifashisha mu gihe ukeneye inzu yo gukodesha, yo kugura mu gihe ukeneye ikibanza cyo gukodesha cyangwa se icyo kugura ngo gikeneye imodoka kandi yo gukodesha cyangwa kugura. Uru ni nk'urubuga ruba rwarateganyijwe kugira ngo rufashe abantu kubona izo serivisi mu buryo bworoshye kandi bwihuse bitabagoye.

Ese wari uziko ushobora kugura ikintu cyari icyo cyose wibereye mu rugo iwawe kikakugera kandi wibereye aho ngaho ushobora gukoresha ikoranabuhanga ukaba watumiza ikintu runaka, harimo imbuto n'imboga nk'uko turimo turaribona ku ishusho ya mbere harimo iby'amamodoka kandi ushobora kuba watumiza imodoka wenda mugihe ushaka kuyikodesha ugiye ahantu runaka, bakayikugereza ahantu uri rwose bidasabye kubishyura amafaranga y'urugendo ngo bakuzaniye, bakuvanye aha bakujyejeje aha ngaha cyangwa ngo wagiye ahantu runaka ujya gufata ibyo wasabye.

Gukoresha uburyo bwo hutimiza ibyo waguze bigira akamaro kanini cyane: harimo gukwirakwiza ibicuruzwa mu bice byose, harimo kongera ikoranabuhanga. Kuko gutumiza ibyo waguze, bifasha n'ikoranabuhanga nk'uburyo bwa telefoni cyangwa porogame, bigafasha abakiriya kumenya ibyo bakeneye nta mbogamizi. Kandi bishobora gushyigikira ubucuruzi bw'abakora ibintu bigiye bitandukanye, nk'uruge ro vuba. Waba ushaka amakuru arambuye ku kigo runaka cy'izi serivisi cyangwa uko bigenda? Hano turimo turabona uburyo ushobora kugura imyenda y'abagore, cyangwa se imyenda y'abana, ukoresheje ikoranabuhanga.

Hari ikintu abantu benshi bagiye bakunda kwitiranya harimo n'ikintu cyitwa E-commerce. E-commerce rero ni ubucuruzi nkoranabuhanga, aho ushobora kugura ikintu cyose ukoresheje ikoranabuhanga, ukaba wafata telefoni yawe cyangwa mudasobwa yawe, ukagura igicuruzwa ndetse ukanacyishyura ukoresha telefoni kikanakugeraho aho uri mu rugo bitagusabye kugenda. Ntitukigore bavandimwe.

Biroroshye cyane ko ushobora kuba wibereye iwawe akaba wumva ushaka nko kurya ukaba watumiza ibyo kurya kandi bikakugeraho iwawe turabona umuntu wambaye kasike ifite ibara ry'umutuku yambaye umupira w'umutuku yamabaye n'ipantaro y'ikiboyi afite ambaraje mu ntoki hanyuma imbere ye hari moto kandi hariho n'igikarito. Iki gikarito nicyo bagemuramo ibintu abakiriya baba batumije kugirango bibagereho biragaragara ko aje murugo rw'umuntu wabitumije kugirango amushyikirize ibyo yatumije yanishyuye.

Imodoka enye zishoreranye ziri ku murongo umwe zifite amapine y'umukara zikaba zisize irange ry'umweru zose, ni ukuvuga ngo ni imodoka zimeze nk'izisakaye nk'inzu y'umuntu, ushobora kwibaza se ni ukubera iki bimeze gutya? ni ukuvuga ngo ushobora kuba ukeneye gutwara imizigo yawe, ushobora kuba ukeneye gutwara ibiryo byawe, ushobora kuba ukeneye gutwara ibicuruzwa byawe, ushoba gukoresha imodoka nk'iyi ngiyi, kandi ntibigire icyo biba ndetse n'imvura yagwa ntibinyagirwe, imodoka nk'iyi ngiyi ni nziza cyane igufasha mu buzima bwa buri munsi, cyane cyane gutwara ibintu.

Abantu babiri harimo umutwazi w'ipikipiki wambaye ingofero ndinda mpanuka y'icyatsi, ariguhereza igicuruzwa umuntu usa nkaho arumukiriya cyiriho ikirango cyitwa safi rani imbere yabo hari ipikipiki ifunguye agasanduku inyuma kandi nako kariho ikimenyetso cya safirani inyuma yabo hari ibimera.

Umukobwa urimo uraseka yambaye ikote rya kaki afite n'imisatsi y'umukara, uyu mukobwa arazwi cyane kuko ari mu bantu bitabiriye irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda yitwa Kellia RUZINDANA, ari kumwe kandi n'undi utari mo uragaragara mu maso wambaye ikote cyangwa se ishati y'amaboko amagufi y'icyatsi n'agapira mo imbere k'umweru k'amaboko maremare, afite umusatsi w'umukara bose bateruye ambaraje irimo ibintu by'imbuto n'imboga.

Umuntu utagaragara neza ateruye mbaraje mu ntoki. Iyo ambaraje iteretse ku kintu kimeze nk'igikarito cy'icyuma kinafungwa. Icyo gikarito rero giteretse kuri moto. Moto yanditseho ngo yego, icyenda rimwe icyenda rimwe ni yo wahamagaraho. Iyi ni kompanyi icururiza ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ku ikoranabuhanga. Ushobora kuyihamagara kuri icyenda icyenda rimwe ukeneye serivisi zabo cyangwa ibicuruzwa bacuruza, babikugezaho mu gihe gito aho waba uri hose. Hejuru kandi hari n'indabo nziza cyane.

Turabona umukobwa wirabura umbaye amaherena ameze nk'ikiziga, yambaye umupira wa vuba ufunze hejuru kukora. Ari gufungura cya kintu kimeze nk'igikarito cy'icyuma cyanditseho vuba nacyo gisize irangi ry'icyatsi, ni ukuvuga ngo vuba ni kopanyi imenyereweho nko kuba wahaha ibintu bitandukanye bakabikugerezaho mu kanya gato cyane rwose. Cyane cyane bimenyerewe mu maresitora aho ugura ibiryo cyangwa ugatumiza ibyoku kurya bitandukanye bakaba babikoherereza mukanyaya gato cyane.

Uko wagura cyangwa se ukagurisha ibintu bitandukanye ukoresheje ikoranabuhanga. Ahangaha batwereka neza uburyo ushobora kwinjizamo izina ry'igicuruzwa ushaka kugura cyangwa kugurisha ugashakisha, ushobora kuba ushaka kucyohereza mu gihugu runaka cyangwa ushaka kucyigura mu gihugu runaka ukizana mu Rwanda, ushobora guhitamo kandi igihugu ushaka koherezamo ibintu byawe ucuruza cyangwa se igihugu ushaka kuguramo ibintu runaka; hanyuma ukaba wagura cyangwa ukagurisha.

Abahagarariye emutiyeni hirya no hino mu gihugu, baba bafite aho babarizwa bagaragaza ibirango by'iryo shami bakorera rya emutiyeni, bakagira ibyapa bamanika kugira ngo bigaragaze igiciro umuntu acibwa agiye kohererereza undi amafaranga kandi bakagira n'ikayi bandikamo umwirondoro w'uwaje abagana.

Ukaba ufite abashyitsi se cyangwa nawe ukaba wibere iwawe mu rugo, ukaba wumva ushonje cyangwa se ukeneye kwakira abashyitsi bawe ariko abadafite imbaraga zo guteka cyangwa zidafite ubushake bwo guteka ako kanya. Ibintu byaroroshye hari aho basigaye bacuruza ibyo kurya ku ikoranabuhanga bakabikugereza iwawe mu rugo ku rugi rwawe bitakugoye kandi ku giciro gito cyane.

Ahantu hari indabo nyinshi z'ubwoko butandukanye hari n'ameza kandi asa ikigina, kuri ayo meza hateretseho impano ifunze neza cyane rwose, hanyuma mu busanzwe mu muco nyarwanda tuzi ko gutanga impano uba uri gushimira umuntu wakugiriye neza cyangwa se uri gushimira umuntu bitewe n'icyo aba yarakoze ku buzima bwawe, twimakaze umuco wo gutanga impano mu buzima bwacu.

kugura kuri interineti ni uburyo bwizewe binyuze mugukoresha serivisi zizewe turinda amafaranga yacu umwanya wacu kandi tugera kubicuruzwa byiza muburyo bwihuse kandi bworoshye igihe cyose singombwa kuva murugo gura kumbuga zizewe kandi byamagana inyungu zogukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mukugura ibintu bitandukanye nuburyo busanzwe bwokujya kumaduka

Imodoka nini iri mu muhanda wa kaburimbo ifite amapine y'umukara isa nk'isakaje ikintu gisa nk'amabati ari mu ibara ry'umuhondo n'ubururu bwijimye nukuvuga ngo handitseho ijambo IPOSITA, kera rero mu Rwanda twakoreshaga IPOSITA twoherezanya ubutumwa bugufi buva ahantu hamwe bukajya ahandi bitewe nuko nta matelefone yabagaho ngo twoherezanye ubutumwa bugufi, ariko ubungubu byaroroshye ushobora gukoresha ubutumwa bugufi cyangwa se ukohereza n'ibindi bintu ukoresheje IPOSITA ikaba yabikujyanira aho wateganyije.

I Kigali mu Rwanda ushobora guhaha ibintu bitandukanye ukoresheje ikoranabuhanga aho ushobora guhaha ibikoresho by'ikorabuhanga harimo amateviziyo nk'urugero, amatelefone, amaradiyo, imigozi yabyo hanyuma ukagura ibikoresho byo murugo, aho ushobora kugura ibintu by'intebe, ibintu bitandukanye ukagura ibyo kurya, ukagura n'ibindi bitandukanye mu Rwanda i Kigali ukoresheje ikoranabuhanga kandi ibyo byose bikakugeraho iki cyapa nicyo kintu cyonyine birimo biratwereka.

Icyapa kiriho abantu batandukanye, bashinzwe imirimo itandukanye. Biragaragara ko ari ihuriro cyangwa se inama bazitabira, izaba ku itariki makumyabiri n'esheshatu z'ukwa gatatu, saa tatu za mugitondo kugera saa sita z'amanywa. Ni inama izahuriramo n'abo bantu bose, biranagaragara y'uko bishoboka kuba wahuriramo nabo ukoresheje ikoranabuhanga ,aho hari rinki(link) zatanzwe zitandukanye. Hanyuma rero kandi ibyo ni ibintu byakozwe kugira ngo abantu bajye bahurira hamwe, baba bari hanze y'igihugu cyangwa mu imbere mu gihugu, bakoresheje ikoranabuhanga.

Igitanda cyiza cyane kandi gishashe neza hariho imisego y'umweru, kandi ku ruhande rw'icyo gitanda hagiye haretseho utubati, hejuri y'utwo tubati hagiye hateretseho amatara, amwe abantu benshi bakunda gukoresha bacana ninjoro. Si ibyo gusa kandi turimo turabona ko ari inzu zigurishwa muri Kibagabaga, aho bishyuye amafaranga; ijana na mirongo itatu n'atanu ibihumbi by'amadorari.

Inzu nziza cyane ifite amarido, gusa iyo nzu yose irarangaye mo imbere harimo tereviziyo imanitse ku gikuta. Hari imitako kandi imanitse ku gikuta, hari intebe, hari ameza agiye atandukanye. Ino nzu ishobora kuba barimo barayikorera amasuku, bakaba bayifunguye cyangwa se hakaba harimo umuntu ushaka kugurisha bino bicuruzwa byose. Kuko hari ibicuruzwa bitimukanwa, ukaba ushaka kubigura ukaba wakwinjira muri iyi nzu mukavugana bakakubwira ibiciro wabiguraho.

Inyubako nziza iri ahantu rwose mo imbere turimo turabona ko hashashe amabuye, hanyuma inyuma yaho turi kubona ko ari igipangu kigiye kizitiye gizitije ibintu bimeze nk'inkingi z'ibyuma hanze gusa turimo turabona igitaka gisanzwe, turimo turamo inzu nziza mu imbere isize irangi ry'umweru ni inzu iherereye i Remera turimo turabona ko bari kutwereka ko ari inzu irimo ibyumba bibiri kandi ikodeshe amafaranga ibihumbi magana atandatu ku kwezi inzu nk'izi ziba zifite ibikoni bya kijyambere kandi bigezweho.

Inzu nziza cyane y'ibyumba bine iherereye i Kigali ku Gisozi, ushobora kuba uvuye nko mu bihugu byo hanze ukifuza kuza mu Rwanda uzanye n'umuryango wawe, ukaba wakiza uko wabona inzu byoroshye, ushobora kuba waza kwibere muri ino nzu, kuko ni inzu umunyaryango munini kandi mugari wabamo, kandi bitayibangamiye kuko ni nziza cyane.

Inzu isashemo hasi amakaro, ifite ibikuta bigiye bisize irangi ry'mweru, nta kintu na kimwe giteretse mu iyo nzu, biragaragara ko ishobora kuba iri ku isoko, barimo barayishakira abakiriya bayigura cyangwa se umuntu wayikodesha. Hari abantu babigize umwuga rero, baba bazi ahantu inzu zose ziba ziherereye, ku buryo mu gihe ubababajije ngo ushaka inzu bashobora kuba ahantu nk'aha, yaba ari iyo kugura cyangwa se kugurisha cyangwa se kandi ari iyo gukodesha.

Ahantu hafunganye cyane rwose ku bikuta by'iyo nzu hagiye hariho amakaro kandi cyane cyane turimo tura urabona ikintu kimeze nk'umufuniko w'umweru. Inzu imeze nk'iyi ngiyi cyangwag se icyumba nk'iki ng'iki duhita tubyibwira ko ari ubwiherero kuko turimo turabona ko hejuru hariho n'idirishya, hanyuma rero Banyarwanda Banyarwandakazi tugirire ubwiherero bwacu isuku kuko iyo tutabugira isuku ya nyayo ni twebwe bigaruka mu nyuma.

Ahantu hahagaze abantu babiri umwe ni umugore yambaye ikanzu irimo ibirabyo n'inkweto z'umukara, undi ni umugabo yambaye ipantaro y'ikoboyi n'ishati y'umweru kandi turimo turarabona ko ari umuzungu, inyuma yabo hari ibintu bigiye bitandukanye, harimo intebe, ziriho imisego, hari ameza, hari n'ibindi bigiye bifite amapine, hanyuma birimo biragaragara ko rwose hano hantu habera ubucuruzi bwo gucuruza ibijyanye n'intebe ndetse n'ibikomoka ku biti.

Inzu nziza cyane rwose iherereye ahantu heza turimo turabona imbere y'iyo nzu hagiye hashashe amatafari, hanyuma rero ntabwo ari inzu imwe ahubwo ni nzu igeretse inshuro ebyiri, amarange ari ku iyo nzu yiganjemo umweru kandi hariho ni inkingi nziza cyane zikozwe mu makaro. Ino nzu n'inzu igurishwa iri Kimironko niho iherereye iri ku isoko kandi ku giciro gitoya, kandi ino nzu kuyibamo wowe n'umuryango wawe ni ibintu rwose utapfa kwicuza na gato kuko ni inzu igaragara neza.

Inzu nziza cyane kandi igurishwa ku mafaranga make, turimo turabona ko ari ukwishyura amafaranga ibihumbi magana abiri y'amanyarwanda buri kwezi, ni inzu ifite icyumba kimwe, ikagira ubwiherero bumwe kandi turabona n'igikoni cyiza cyane cyujuje ubuziranenge kirimo ibisabwa byose, ayo mafaranga uyatanze rwose ntabwo waba uhenzwe.

Inzu nziza iri ahantu heza ifite igipangu cy'umukara igiye isizemo amarangi y'umweru, ndetse inkingi zayo zigiye zisize ibara ry'ivu, iyi nzu rwose uri umunyamahanga njye nakugira inama yo kuza kuyikodesha ukayigura igihe waje mu kiruhuko, kuko iherereye ahantu heza kandi akenshi bakunze kuzibonera ku mafaranga amake cyane.

Inzu nziza cyane rwose irimo iragaragara ko isize amarangi y'umweru. Ni inzu igeretse kabiri kuko turabona ko atari inzu imwe gusa . Hanyuma rero inzu nk'iyIingiyi ushobora kuyiyubaka uvuga ngo uzayibamo n'umuryango wawe kandi sibyo gusa kandi ishobora no kugufasha ugahitamo hubamo hasi hanyuma hejuru ukahakodesha n'abantu bakazajya baguhereza amafaranga akazajya agufasha gukemura ibibazo byawe bya buri munsi .

Inzu nziza cyane rwose iherereye ahantu heza, turimo turabona ibara ry'irange ryiganjemo, ari ibara ry'umweru. Iyi nzu kandi turimo turabona ituye i Kigali, Kimironko kandi ni inzu iri ku isoko irimo iragurishwa, aho igiciro kiriho ari miliyoni mirongo icyenda n'eshanu, gusa mu gihe wabonye inzu nk'iyi kandi ukayishima, ntibivuze ko ayo mafaranga ariyo ugomba kwishyura, ushobora kuba waganira na nyir'inzu mukaba mwakumvikana, ashobora kugukaturira mukaba mwavugana ukagura inzu.

Abahagarariye emutiyeni hirya no hino mu gihugu, baba bafite aho babarizwa bagaragaza ibirango by'iryo shami bakorera rya emutiyeni, bakagira ibyapa bamanika kugira ngo bigaragaze igiciro umuntu acibwa agiye kohererereza undi amafaranga kandi bakagira n'ikayi bandikamo umwirondoro w'uwaje abagana.

Inzu nziza turimo turabona ko iherereye iremera, ahantu hegeranye n'inzu mberabyombi dukunze kwita sitade mu indimi z'amahanga. Ino nzu turimo turabona ko ifite icyumba kimwe gusa ni inzu nziza iherereye ahantu heza hari umutekano bigaragara hegereye umuhanda kuburyo no mugihe ugiye ahantu runaka bishobora kukorohera kuba wabona ikinyabiziga cyakuvana ahantu hamwe cyikujyana ahandi ugiye.

Imbuga isasheho amatafari kandi meza, si imbuga gusa turimo turabona, turimo turabona n'inyubako igeretse inshuro ebyiri, turabona kandi ko hariho amakaro y'umweru hasi, turimo turabona umugabo wambaye ipantaro ya kaki, inkweto z'umukara, umukandara w'umukara, ishati y'umweru n'ikoti ry'umukara, birasa nkaho ari gusohoka mu nyubako yo hasi. Inyubako yo hasi rero igiye iriho amadirishya y'umukara tukagira n'inyubako yo hejuru, mu gihe ugiye kubaka, ubaka inyubako nk'iyi ngiyi kuko ushobora kwibera mu nyubako yo hasi hanyuma iyo hejuru ukayitanga bakazajya bayikodesha bakaguha amafaranga.

Turimo turabona umuhanda wa kaburimbo tukabona kandi ibipangu bibiri byiza biri haruguru y'umuhanda, ukaba uri umuntu usobanutse cyane wifuza nk'inzu yo kubamo yegereye umuhanda, ushobora kuba waza kugura ino nzu cyangwa se ukayikodesha kuko ni inzu nini kandi ifite igipangu cyiza cyane, inzu kandi wajyamo n'umuryango wawe mu gihe uwufite wifuza kubana nawo.

Inzu nziza cyane iri ahantu hari amahumbezi, hari umuyaga hari umutuzo hari n'ibiti. Imbere yayo turimo turabona ko ari ahantu hari imbuga ishasheho sima, ni inzu ikodeshwa, ukaba uri umuryango urenze abantu batandatu, ushobora no kuba waza waza ukaba mwino inzu rwose kandi ukaba ahantu hari umutekano mwiza.

Inzu nziza cyane rwose birimo biragaragara ko idatatse bikabije, kuri iyo nzu kandi hari igikuta kirimo televiziyo, sibyo gusa kandi ari intebe zitandukanye hakaba kandi n'ameza. Ni ukuvuga ngo ukeneye kuba wagera ahantu ba wabona umuryango wawe ushaka kuba wakodesha inoza rwose ku giciro cyiza, kandi rwose bigaragara ko ari inzu isobanutse itatse na neza.

Inzu nziza cyane ikodeshwa, ku mafaranga make cyane, turabona ko iherereye Kibagabaga, kuyikodesha ni amafaranga ibihumbi magana atatu, aho irimo inyuma biriri ndetse na dushe na tuwarete ebyiri, ni inzu nziza rwose, twagira inama abanyamahanga baba baje nko mu biruhuko mu Rwanda kuba baza bakaba mu izi nzu kuko ziri ku biciro bike cyane.

Umugore wishimye wambaye ikanzu y'igitenge biragaragara ko acuruza, hano tuvuze ko ari rimwe isoko ry'imboga n'imbuto ntabwo twaba twibeshye kuko tumu turabona ubwombaga bitandukanye tukabona ubwoko bw'mbuto butandukanye harimo ibitunguru harimo ama pome arimo aragaragara harimo n'amacunga harimo n'amatunda agiye atandukanye imbuto nizi ku buzima umuntu wese ushaka kuzirya waba ubikunda cyangwa utabikunda imbuto nziza ku buzima ku zongera intungamubiri zikarinda n'uburwayi.

Iduka rinini ririmo riracuruza ibicuruzwa bigiye bitandukanye , mwiryo durimo turahabona umugabo , yambaye ipantaro y'umukara , umupira w'umukara w'amaboko magufi ndetse n'inkweto z'umukara . Birimo biragaragara ko uyu mugabo ari we nyiri iduka turimo turabonamo ibintu birimo biragaragara ni amavuta yo kwisiga harimo kandi n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu gihe ukeneye serivise nk'izi ngizi wabagana bakagufasha kuko bacuruza ku biciro biba byaramenyekanye ahantu hose ntabwo baguhenda.

Ikirango kirimo kirerekana ijambo mu ibara ry'ubururu ritandukanye arihora na sa ebyiri na ba mu ndimi z'amahanga cyangwa se mu mpine twakabyita arasiyesibi. Ni ukuvuga ngo arasiyesibi ni ikigo cy'igihugu cyita ku bwishingizi mu Rwanda gifite inshingano zo gucunga imisanzu y'ubwishingizi bw'abakozi n'izindi gahunda z'imibereho myiza. Sibyo gusa kandi igicunga ibikorwa bitandukanye harimo ubwishingizi bw'ubuzima, ubwiteganyirize bw'abakozi, ubwishingizi ku mishinga, n'ubwishingizi bw'abakora impanuka zitandukanye.

Ahantu hari ibirango bya "ejo heza" turabona umugabo wambaye umupira w'ubururu n'ipantalo y'ikoboyi afite indangururamajwi mu ntoki ze arimo aragenda aganiriza abantu benshi batandukanye, kuko turimo turahababona ibya ejo heza. Kuko ejo hegeza ni gahunda yo kwizigamira y'igihugu ifasha abanyarwanda kuzigamira ejo hazaza cyane cyane mu rwego rwo kwiteganyiriza izabukuru, dore ibyiza byayo harimo kwiteganyiriza izabukuru, harimo umutekano w'amafaranga, harimo gufashwa igihe ugize ibyago, harimo inyungu ku mafaranga, harimo kudakenera amafaranga menshi, harimo kubera buri wese urugero.

Umukobwa wishimye urimo raseka afite inyundo mu ntoki ze kandi, icyapa ariho nawe handitsweho izo heza ubundi mu busanzwe zo heza ni gahunda y'ubwizigame bw'igihe kirekire mu rwanda yashyizweho kugira ngo ifashe abanyarwanda kwizigamira amafaranga azabafashaza umu gihe bazaba bageze mu za bukuru cyangwa igihe batagishoboye gukora iyi ni gahunda yashyizwe mu rwanda na guverinoma hanyuma ibintu ishobora kuvuga kandi wanakora ko iki kintu cyajoheza ni ukugira ngo barebe umuco wo kwizigamira gahunda ifasha abantu gutekereza ku hazaza babo no gutegura igihe bazaba batakibasha gukora.

Inyubako nziza ndenge cyane dukunda kwiga etaje tuyigereranyije cyangwa se tugenekereje turimo turabona wagirango imeze nk'ibitaro. Ubundi ibitaro ni bimwe mubigo by'ingenzi bimubitanga serivise zubuzima mu Rwanda, hari ibyiciro bitandukanye by'ibitaro, harimo: ibitaro bikuru bya leta, harimo kandi n'ibitaro by'akarere, haba harimo ibitaro by'umuryango, n'ibitaro buri muntu wese yakwikorera mugihe yize ibintu bijyanye n'ubuganga kandi batanga serivise nziza yo kuba batabara ubuzima bwabantu butandukanye.

Icyapa kiriho abantu basuhuzanyije bahanye ibiganza mu ntoki zabo si ibyo gusa kandi hariho ikirango cyanditse ngo gudu life bisobanuye imibereho myiza ubusanzwe rero ushobora kubona ijambo gudu life cyangwa se icyapa cyabo ukibaza ngo bakora iki? Ni ikigo cyangwa se ubucuruzi bukorerwa mu rwanda kizwi cyane kandi icyo kigo mu gutanga serivisi zijyanye n'imibereho myiza no gucuruza ibicuruzwa cyangwa gutanga serivisi zifasha abantu kugira ubuzima bwiza n'imibereho myiza.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, turimo turabona umugabo urimo urandika akaba yegeranye n'umugore wambaye amarinete urimo arareba ibyo yanditse, aba bantu rero akenshi bateranira hano, akenshi mu Rwanda tuzi ko aba ari nk'amakoperative agiye atandukanye cyangwa se ibimina aho wagirango barimo baratanga amafaranga bakandika buri wese ayo yatanze, ko turimo turabona n'uwegereye uri kwandika ufite imashini irimo iragenda ibara amafaranga yatanzwe.

Agatabo k'umuhondo kariho ikirangantego cy'u Rwanda cyangwa ngo repuburika y'u Rwanda minisiteri y'ubuzima umujyi wa Kigali, Akarere ka Kicukiro. Ubundi kera umuntu yabaga yakwishyura ubwisungane mu kwivuza, yabaga afite agatabo nk'aka ngaka. Ariko ibintu byaroroshye, mushobora kuba mufite indangamuntu y'umukuru w'umuryango, ukajya kwa muganga bakayishyira mu mashini, bakabona umusanzu wishyuye, ukemererwa kwivuza cyangwa ntiwemererwe kwivuza. Kuba utarishyura mituweri ni uburangare bwawe kuko ibintu byaroroshye, byose n'ikoranabuhanga.

Ubwo wibajije ikoranabuhanga ni byiza cyane kuko nanone ukugira ubunebwe ntabwo ujya uva mu rugo ngo ubashe kutemberera n'ahantu dutuye uko hameze ariko nanone birafasha niyo unaniwe ntabwo ushobora kuva iwanyu unaniwe cyangwa utashye bwije ngo ujye ku isoko guhaha. Nkuko ubibone iki ni ikirango kerekana imyenda y'iminyarwanda n'inkweto zikorerwa mu rwanda nawe wabyihangira

Ubwoko bw'inzoga butandukanye bugiye bupakiye ahantu hameze nko mu tubati, turabona ari impande zose zitandukanye aho buri ruhande hagiye hapakiyemo inzoga kandi nyinshi cyane, turabona kandi hasi ikintu cy'icyatsi nacyo kirimo ubundi bwoko bw'inzoga mubyukuri ari inzoga ntabwo ari nziza cyane kandi bidashimwa n'abantu bose.

Umuntu wambaye ikanzu ijya gusa nk'iroza , ikiganza cye ni cyo cyonyine kirimo kiragaragara. Hari ahantu hameze nk'ameza akoreshejwe mu makaro, aha hantu kandi hari ibintu bigiye bitandukanye, hariho telefoni kuri ayo meza, hariho amamashini y'ubwoko bugiye butandukanye, hariho kandi n'udukarito dutoya wagira ngo turimo ibicuruzwa. Hano hantu tuvuze ko ari mu iduka ricuruza ibintu bitandukanye byaba ari byo rwose kuko birimo birigaragaza.

Iduka rinini cyane turimo turabonakoresha simagararo turimo turabonamo umugabo uri kugenda ashakisha ibyahaha, tukabona kandi n'undi muntu usa wambaye igitambaro cy'umutuku w'umugore. Harimo imodoka nk'ayagaya manini yawinjiyemo mbere na mbere ufite igikapu uragenda ukabanza ukagisiga aho bashinzwe kuba babika ibyo bi bikapu hanyuma ukinjiramo ugashaka ibicuruzwa byawe kandi abandiho n'igiciro ku bicuruzwa, naba ari ngombwa ngo uze ubaze umuntu wishyuza amafaranga wishyura, kuko biba byandiheho ku bicuruzwa ushaka kugura, hanyuma wamara kubihitamo ukagura.

Aho abantu bajya guhahira ibintu byinshi bitandukanye mu buryo bworoshye kandi bwihuse. Aya maduka mwene nk'ayaganya aba atandukanye namwe tumenyereye. Mu maduka asanzwe uragenda ukaka icyo ushaka bakakiguhereza hanyuma ukigende ukanishyura. Ariko amaduka nk'aya ngaya manini wigereyo ukagenda uzenguruka ufata icyo ushaka, ukagenda ukagera imbere aho wakirwa ukishyura, ariko ibintu byose ni wowe uba wabyishakiye.

ahacururizwa ibyo kurya bitandukanye bigiye bikozwe mu mafarini, turabona amasambusa imbere yacu, turabona ibintu bijya kumera nk'imigati myinshi igiye itandukanye ubwoko butandukanye, turabona imbere kandi firigo iriho icupa rya Coca Cola. Firigo akenshi yifashishwa mu gukonjesha ibinyobwa bigiye bitandukanye, aha hantu rero ni ahantu hacururizwa ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa aho ushobora kuza uje gufata ibyo kurya bikoze mu ifarini bakaba baguhereza icyo kunywa ushobora guhitamo igikonje cyangwa se ikidakonje.

Iduka rinini cyane ririmo amakaro agiye gusa umweru ndetse n'ikigina yivanze, hanyuma turimo turabona ari iduka ricuruza ibintu bigiye bitandukanye, cyane aho turimo turimo n'ubwoko butandukanye bw'imitobe tukabona impapuro abakobwa bakoresha, tukabona ibindi byinshi bigiye bitandukanye, amaduka ugasanga ibintu byabo byose bipanze neza, aho ubwoko ku gicuruzwa buba muri urwabyo kugira ngo umuntu wese cyangwa se umukiriya najya kugishaka igicuruzwa runaka aze kukibona mu buryo bumworoheye.

Iduka rinini cyane dukunda gusanga harimo abantu benshi batandukanye hanyuma rero, iri duka ntago riba rimenyerewe gukoreshwa nk'ayandi maduka aho mujya guhaha mukabwira umuntu ucuruza icyo amushaka akakibazanira, ahubwo mwene ayo maduka ya manini winjiramo, ufite icyo ushaka ukagenda ukacyishakira hanyuma umara kugishakira ukagenda ukajya aho bishyurira ukishyura amafaranga ya hanyuma ugataha, ugatahana igicuruzwa cyawe.

Iduka rinini cyane ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ubundi mu busanzwe iyo ugiye kugura ikintu runaka mu iriduka urabanza ukagera aho bashinzwe kuba babika ibikoresho byawe winjiranye, hanyuma ugagenda ukajya gushaka ibicuruzwa ushaka biba bipanze ahantu hatandukanye bitewe n'ibyo ushaka ukabihitamo hanyuma ukaza ukabarisha, wamara kubarisha ugafata ibintu byawe uba wabikije ukigendera.

Iduka rinini cyane turimo turabona umugabo arimo aragenda afata icyo ashaka agishyira mu kantu kameze nk'ingorofani, tukabona kandi umuntu umuhagaze imbere, wambaye ipantaro y'umukara ndetse n'umupira w'umuhondo. Ni ukuvuga ngo amaduka nk'agaya manini iyo winjiyemo uragenda ukifatira ibyo ushaka byose, hanyuma ukagenda ukagera ku babitsi bakaba bakubara, bakakubwira amafaranga wishyura, ukaba bwakwishyura.

Iduka rinini ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye turimo turabona amafirigo harimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye tukabona kandi umukobwa wambaye ikabutura isa ubururu bwijimye kandi yambaye ikote ry'ikoboyi afite n'ibisuko by'umukara birebire, hari igicuruzwa arimo arakora aho bigaragara ko ari kuza kugikora kugira agitware hanyuma iyo winjiye mu iduka rinini nk'iri ngiri ntago biba ngombwa ngo bagende bakurebera icyo ushaka bakikuzanire uragenda ukacyirebera ukagishima ukagenda ukishyura imbere aho bishyurira ukigendera.